Muri gahunda yo kubungabunga ubuzima kuri bose, hari ibyuma byaje byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umurirokenshi. Kenshi baba bafite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umukara hasi no hejuru bikaba bifasha mu kuzimya umuriro.

Abakobwa bane ndetse n'umusore umwe bambaye imipira isa kandi bose bambaye amabaji mu ijosi, bari kwifotoza bagaragaza ko ubuzima bwiza bwageze kuri buri mwana kandi bishimishije.

Abana bato cyane ni batatu bari kuri robine bari gukaraba intoki, gukaraba intoki ni umuco w'abanyarwanda kuko bifasha abana kutarwara indwara ziterwa n'umwanda, maze bakagira ubuzima bwiza buzira umwanda ndetse n'indwara.

Leta y'u Rwanda igenda ishyira imbaraga mu kuzamura ubuzima no kubusigasira, aha ngaha rero uyu muganga ari gutera urukingo rw'indwara ya kovide cumi n'icyenda uyu mugabo mu rwego kugira ngo itazigera imugeraho ahubwo imutinye.

Abagabo babiri bose bambaye amakoti meza cyane y'umukara ndetse n'amashati y'ubururu umwe afite telefone mu ntoki undi afite ibitabo bari gusuhuzanya cyane bigaragara neza ko bashoje inama yari yabahuje aho bari bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'uko bawugeza ku baturage.

Umwana muto cyane ari koga intoki kurikandagira ukarabe, inyuma ye hari urukuta rwubakishije amatafari ahiye, gukaraba intoki rero ni kimwe mu byo abana batozwa kugira birinde indwara ziterwa n'imyanda, maze bagire ubuzima bwiza.

Abamama batatu bose bari kumwe uri kubona uteruye mwana bigaragara ko yabyaye, ndetse hari n'undi bigaragara ko ari umukorerabushake yambaye jure y'abakorerabushake akaba afite agapimo gapima umuriro, akaba agiye kumupima.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru, ingofero y'ubururu, umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, ari gukorera umwana muto cyane ijerekani yuzuye, hari umuzungu uri kubafotora. Hirya yabo hari abantu na bo bari kubareba bigaragara ko bari kumwe.

Iri ni ivomero rusange hari abana bane batoya bose baje kuvoma bazanye utubido duto, hari umukobwa mukuru uri inyuma ari gukurira icyuma akabavomera, hirya hari imodoka bigaragara ko ari iy'umukobwa ndetse aha hari ibimera byinshi ndetse n'amashyamba.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bigaragara neza cyane yuko bari guhabwa serivisi z'ubuvuzi. Ni abaganga begereye abaturage bakaba bari kubasobanurira bamwe bafite udukayi mu ntoki, ndetse n'udukaramu, bari gusobanuza bandika.

Ivomero ryiza cyane, iri vomero n'iryo Leta yubakiye abaturage iribubakira ahantu heza cyane hari ubusitani, hari abana baje kuvoma bahateretse ibibindi byabo amadomoro utujerekani duto ndetse n'amabido manini, bategereje kubona amazi maze bagataha.

Umwana muto cyane afashe igikombe mu ntoki ari kuvoma amazi ku kigega, iki kigega cyubakishije isima kandi kirasa umukara. Aya mazi ni amazi Leta yegereje abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umwanda.

Aha ni mu kigo nderabuzima, bari mu ivuriro rwagati. Harimo ababyeyi baje kuvuza abana babo ndetse hari n'ababyeyi baje kwivuza ubwabo, ariko umubare munini ni uw'abaje kuvuza abana. Turi kubona umubyeyi wambaye igitenge, akaba ateruye umwana, afite ifishi mu ntoki, bigaragara neza ko agiye kwinjira mu isuzumiro.

Aha ni kwa muganga, turi kubona umubyeyi uri kureba akana kiwe karyamye kugitanda, abaganga bari kukitaho ariko nk'uko bigaragara karembye cyane, ni ah'Imana naho ubundi abaganga bo bari kugerageza.

Aha ni mu kigonderabuzima abaforomo bari gufasha ababyeyi baje gukingiza abana babo kuzuza amafishi, aho buri mubyeyi ari gutambuka bakamuhereza ifishi maze yaba atazi kwandika akayiha uri ku ruhande akamwuzuriza mu rwego rwo kubaha serivisi zinoze.

Ibimodoka birebire kandi bifite amapine manini hariho akarango kariho utuntu tumeze nk'isaka ricomekeranyije handitseho wa fa na pa aho bigaragaza yuko ari imodoka zishyiriye ibyo kurya abaturage ahantu bishwe n'inzara.

Abantu benshi cyane bai ahantu hamwe harimo abaganga ndetse n'abaturage ,abaturage baje gufata inkingo muganga ari kubakingira inyuma yabo hari umukorerabushake uhagaze wambaye ijire y'umuhondo y'abakorerabushake ndetse ahagaze hagati y'indabyo.

Umuganga uri gusuzuma umwana, ari kumufata ku itama, akareba kugira ngo arebe iminwa ye niba itabatse, aha rero ari gushaka kumenya niba arwaye Malariya kugira ngo amwandikire imiti, maze ayinywe atararengerana.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe hari umu mama wicaye hasi ndetse hari n'umugabo umeze nk'umusazi ufite indangururamajwi mu ntoki baramurangariye wagira ngo ni we uri kubasusurutsa, abana benshi baje ndetse n'abandi bose baje kwirebera ibi biri kubera aha.

Iri ni ivomero rusange Leta yubakiye abaturage kugirango ngo bagire ubuzima bwiza bukomoka ku mazi ndetse n'isuku, aha rero hari ibivomesho byinshi cyane ndetse hari n'abantu baje kuvoma harimo: abana, abasaza, abakecuru ndetse n'urubyiruko.

Umugabo n'umugore bagiye ku mujyanama w'ubuzima, umujyanama w'ubuzima ari kubasobanurira ibijyanye n'umugore utwite byose, akabwira umugabo weuko agomba kumwitaho, uyu mugabo yishimiye umugore we kandi ari kubyereka uyu umujyanama w'ubuzima.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano, ari munsi y'ibiti ahari kandagira ukarabe, ari gukaraba intoki neza n'amazi n'isabune, aho twese ubu twamaze gusobanukirwa yuko isuku ari nziza kuko utagira isuku warwara indwara ziterwa n'umwanda.

Umumama uri koza umwana we intoki. Ni umwana wambaye impuzankano isa nka kaki. Inyuma yabo hari ibiti byiza cyane bishishe. Rero ni byiza koza umwana intoki. Cyane cyane ko bimurinda indwara ziterwa n'imyanda, akagira ubuzima bwiza.

Abamama ndetse n'abapapa, biragaragara cyane ko bari gufata ifoto y'urwibutso bari bari mu nama. Aha ni ku kigo nderabuzima, bakaba bari bari kwiga ukuntu bateza imbere ubuvuzi. Ubuvuzi bugomba kugira ireme kandi bukaba bugera kuri bose.

Aha ni kwa muganga mo imbere, hari intebe z'ubururu ndetse hari n'umugabo wambaye ijire y'ubururu n'agapfukamunwa abantu bose bahari bambaye udupfukamunwa, hari umubyeyi utambutse ahereza ifishi ye muganga arikuyireba kugira amusuzume.

Abantu benshi cyane biganjemo abakora kwa muganga, bamwe muri bo bakaba ari urubyiruko bari kwimenyereza imenyerezamwuga hano mu buganga, bakaba bahagaze imbere y'inzu ifite irange ry'ubururu yanditseho ngo gira ubuzima.

Umubyeyi ndetse n'abana babiri umubyeyi avuye kuvoma yikoreye ijerekani y'amazi, irasa umuhondo ifite umupfundikizo w'umutuku imbere ye hari inzu nini cyane isakaje amabati y'umutuku ndetse yubakishije amatafari ahiye, hirya hari n'umunara muremure.

Umubyeyi waje kuvuza umwana we. Mu Rwanda tugira amahirwe iyo ufite ubwishingizi umwana wa akarwara uhita umwihutana kwa muganga maze nabo bakamufasha byihuse. Uyu muganga rero ari kumuvura abikunze, agira vuba kugira ngo amutabare.

Icyapa cy'ubururu amagambo yandikishije ubururu, harimo ifoto y'umugabo ugaragara umutwe gusa wambaye amarinete, aha ngaha rero uyu mugabo akaba ari umwe mu bantu b'abaganga b'inzobere.

Umwana muto wambaye impuzankano y'ishuri, afite indobo iri imbere ye iri ku meza ari gufungura ngo akarabe intoki. Gukaraba intoki ni umuco w'Abanyarwanda kuko birinda indwara ziterwa n'imyanda aho umunyarwanda agomba kugira ubuzima bwiza kuko Leta yatwegereje amazi.

Umukobwa wambaye utwenda tw'igitenge ari gukaraba ku ntoki. Ahangaha ari gukarabira kuri robine amazi agwa mu ibase. Kugira isuku ni umuco w'abanyarwanda kandi bituma abantu bagira ubuzima bwiza, niyo mpamvu tugomba kubikora kenshi gashoboka.

Umupapa wambaye agapira ka oranje, ari gusuhuza umwana muto cyane, ahangaha rero ni aho ababyeyi begera abana, maze bakabakinisha, kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza, bisanzura ku babyeyi, kandi biyumva neza.

Iri ni ivomero rusange hari umwana uri kuvoma yateze akajerekani ndetse, hari n'undi uri kujya inyuma akamukurira icyuma kugira ngo amazi aze, leta y'u Rwanda yatekereje ku baturage bayo ibona ko kugira ngo bagire ubuzima bwiza ari uko ibegereza amazi meza.

Abantu batanu bambaye imipira ndetse n'ingofero bisa ni imipira y'ubururu, irimo amagambo yandikishije umweru, aha ngaha rero bafunze igipfunsi bavuga bati, turi kumwe tuzakorera hamwe turwanye indwara, abaturage bagire ubuzima bwiza.

Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura y'umutuku ndetse n'ishati ya gisirikare. Ateze indobo y'amazi kuri robine, ari kunywesha umunwa. Aha ngaha rero ayo ni amazi meza cyane Leta yegereje abaturage kugira ngo barusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi babeho neza.

Iki ni igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato cyegerejwe abaturage, aha turi kuhabona akamezaza kariho agakarito bajugunyamo ibyo bamaze gukoresha ndetse n'imiti ari gukoresha, umuganga mwiza cyane ari gukingira umwana.

Umwana uri kunywera amazi ku ivomero yaje aje kuvoma azana indobo, amaze kuyivoma aravuga ati: "Aya mazi ni meza sinataha ntayanyweyeho." Nihashimwe leta y'u Rwanda yo yegereje abaturage amazi meza, hafi aho hari amazu ndetse hari n'ibiti.

Abaganga bari kuvura abantu, aha ni kwa muganga ndetse bari gusuzuma abantu bararembye cyane ,nkuko tubibona rero bambaye impuzankano y'abaganga kandi bateraniye ku muntu umwe bigaragara ko arembye, uyu muntu uko biri kose ashobora kutabaho.

Umubyeyi uhetse umwana yaje kuvoma amazi ku ivomero rusange, ni ivomero ryiza cyane ryubatswe neza, aha hantu haba amazi meza akaba ari koza umufuniko w'indobo yaje kuvomeramo, isuku niyo ya mbere kuko niyo ituma tugira ubuzima bwiza.

Abantu ubona kwa ari benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bari kwifotoza barimo barafata ifoto y'urwibutso bamaze gukora umwiherero aho bari bari kuganira ku kuntu twakwirinda ndetse tukabungabunga n'ubu ubuzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi igihe atwite.

Iri ni ivomero rusange ririho urujya n'uruza rw'abantu baje kwivomera amazi ndetse no kureba uko rikora. Iri riba Leta y'u Rwanda yaryubakiye abaturage mu rwego rwo kugira ngo babashe kubona amazi meza kandi asukuye.

Aha ni ku ivomero rusange hateretse amajerikani menshi cyane bigaragara ko aha hantu hari amazi make ariko leta y'u Rwanda yaragerageje muri buri gace ihageza amazi. byibura ubu hari icyo abaturage bishimira kuko biragaragara ko ubu bishimye.

Bari mu kidendezi rwagati bari kuyidumbaguzamo. Ibi rero bituma abana barwara, leta ifata ingamba z'uko abana bato batemerewe gukora ibikorwa nk'ibi, ababyeyi babo bagakwiye kubahwitura ibi bintu ntibazabyongere kuko si byiza.

Umwana muto cyane wambaye agaka ikabutura k'umutuku ndetse na bodabode ari kuvoma amazi mu ndobo ndetse yashyize n'ibiganza kuri robine ari kunywesha amazi ibiganza. Aya mazi yegerejwe abaturage kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umwana wambaye agashati k'icyatsi ndetse n'agakabutura yaje kuvoma yazanye indobo yayivomye ayiteruraho ayishyira ku ruhande arangije abanza gukaraba, gukaraba ni umuco w'abanyarwanda kuko twasobanukiwe neza ubwiza bw'isuku.

Ubu ni ubukangurambaga bwabaye, turi kubona abantu bagiye batandukanye harimo abazungu ndetse n'abirabura, bambaye imyenda ndetse n'ingofero igiye isa, bafite icyapa cy'amabara y'ubururu ndetse n'umweru cyanditseho ati: umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Abamama batatu bari imbere y'ivomero rusange ryiza cyane ririmo amabara meza cyane, ubururu ndetse n'umweru, n'amagambo ariho yandikishije ubururu. Bose bazanye amabido baje kuvoma; hari uri kubavomera, ari kubavomera maze bagahita bakaraba intoki nk'umuco w'abanyarwanda.

Aha ni ku ivomero rusange, hari umumama uri inyuma ari gukurura akuma amazi akaza, umumama uri imbere agatega indabo maze akavoma, hari undi mu mu mama ubariri imbere na we waje kuvoma, iri ni ivomero rero rizana amazi meza asukuye.

Inyubako yo kwa muganga harimo ibitanda bigiye bitandukanye basuzumiraho abarwayi cyane cyane abarwayi b'amenyo; aho uza bakakuryamisha kuri iki gitanda bakagukora mu kanwa maze bakareba uburwayi ufitemo; waba urwaye iryinyo bakarikura cyangwa bakarihoma.

Icyapa kiri kugaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe gusakaza amazi asukuye mu Rwanda wasake ahangaha rero bakagaragaza intumbero zacyo. Intumbero zacyo ni ugukorana n'abaturage kandi ikabagezaho amazi meza cyane.

Abana bahagaze ahantu hamwe ni abana bane baje kuvoma amazi, hari umukobwa uri kubavomera hirya hari imodoka, aha hantu ni mu gishanga ariko iri vomero ni ryiza cyane kuko ni leta yaryubakiye abaturage kugira ngo bajye bavoma amazi meza.

Nkuko leta igenda ishyira ingamba mu bintu bitandukanye, ni nako yateje imbere ibikorwa remezo by'umwihariko by'amazi aho abaturage bajya kuvoma ku ivomo rusange nta kiguzi baciwe.

Umusore wambaye ishati y'uburura y'amaboko maremare, ndetse ni'pantaro y'umukara yatebeje yambaye na congo akandagiye ku giti kiri hasi kugira akajekani karimo amazi kihengeke, ibi tubyita kandagira ukarabe ari gukaraba intoki. Gukaraba intoki ni bimwe mu bintu birinda indwara z'imyanda.

Inyubako nziza cyane zisakaje amabati atukura, zikaba zifite uturongo tw'umukara, hari utwuma tuzengurutse hano rw'ubururu ndetse hakaba harimo n'amazi, aha hantu rero ni heza hagenewe gusohokerwa, naweb ufite uwo musohokana wagenda ukahareba maze mukishima.

Abana bato biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano irimo ishati y'umweru n'ikabutura y'ubururu, bose bakaba baje batonze imbere y'ibigega by'amazi biteretse hejuru y'ameza, buri mwana afite agakombe aho yaje kuvama amazi yo kunywa.

Umukobwa waje kuvoma, yahasanze abana babiri, ari gutega ijerekani ku kigega, amazi akajyamo, yambaye imyenda y'iroze, abana bari aho umwe yambaye agapira k'umutuku, karimo utubara, undi yambaye ak'umukara nako karimo utubara tw'umweru, aha rero, aya mazi leta yayegereje abaturage, kugira bagire ubuzima bwiza.

Umwana w'umukobwa mutoya, wambaye igiteteyi, akaba ahagaze impande y'inzu y'amatafari ahiye, ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe igizwe n'indobo y'icyatsi ndetse n'akabase k'icyatsi.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, bicaye imbere y'ameza arambuye igitambaro cy'umuhondo ndetse bafite impapuro imbere yabo, buri muntu afite telefone ndetse n'igitabo, bose bafite n'uducupa tw'amazi imbere yabo aha uko bigaragara bari kuganira ku byerekeranye n'ubuvuzi.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye ahantu hamwe aha ngaha rero bari gutekereza ukuntu leta y'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byose byakwegerereza ubuvuzi abaturage kugira ngo bajye bavurwa bitagoranye maze hirindwe impfu zitateganyijwe.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga, bose bambaye amabaji mu ijosi, hakaba harimo umuzungu wambaye ikoti ry'umukara ndetse na karuvati, bakaba bamaze guhabwa amahugurwa akaba yari amahugurwa mpuzamahanga yo kugira ngo hanozwe serivisi z'ubuzima.

Umuhungu umwe n'abakobwa batatu, bose bari gufata ifoto, bari kwifotoreza imbere y'icyapa kiri mu mabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, amagambo yandikishije ibara ry'umweru, aho bavuga ngo; ubu ngubu byashyizwe ku mugaragaro, buri mwana wese akwiye kugira umurimo.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, nk'uko bigaragara harimo umuganga uri kubaganiriza, aha rero ni serivisi zegerejwe abaturage z'ubuzima, aho ubu ngubu usigaye ujya ku bajyanama b'ubuzima bakakuvura ugakira.

Umugabo wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, ari kogereza igare mu mugezi. Hari n'umumama uri kudaha amazi mu ijerekani, nawe yambaye ishati y'umuhondo, ariko ibi si byiza kudaha amazi mu mugezi, kuko ashobora kurwara indwara zikomoka ku myanda.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati atukura hakaba harimo akarongo k'umukara, hafi aho ngaho hari akantu k'uruziga karimo amazi kazengurutswe n'urwuma rw'ubururu, aha hantu rero hari ubusitani bwiza nkuko hagaragara ni ahantu ushobora gutemmberera maze ukanezerwa.

Umwana mutoya cyane ateze ibiganza kuri robine, ari gukaraba intoki, gukaraba intoki ni kimwe mu byo abanyarwanda tumaze kugira umuco, kuko n'abana bato basigaye babizi ko gukaraba intoki birinda indwara ziterwa n'imyanda.

Aha ni mu busitani bw'ikigo nderabuzima aho umuganga ari gusuzuma ababyeyi bicaye, ari kugenda abasuzuma imivuduko y'amaraso akabandikira, buri mubyeyi afite ifishi ye muganga ari guhita amwandikiraho.

Aha ni ku ivomero rusange hari ababyeyi baje kuvoma, umubyeyi umwe arimo aravoma undi uri inyuma ari kumuzamurira icyuma kugira ngo amazi aze ndetse hari n'undi uri ku ruhande. Aho hafi aho hari ibiti birebire ndetse hari n'inkuta, aya mazi rero nayo leta yegereje abaturage kugira ngo babeho bafite isuku.

Ababyeyi batatu barahagaze umwe wo hagati ari kose umwana aha rero bose bafite inkoni bigaragara ko hari ikibazo bafite cyangwa se bakaba hari icyo batekereza ku bijyanye n'imitekerereze ndetse n'imikorere y'ubwonko.

Umukecuru wicaye ku musambi, ndetse ari kumwe n'abana benshi cyane, aba bana nk'uko bigaragara bafite ibibazo bigiye bitandukanye ntabwo ubwonko bwabo bwaba bukora neza kandi nta mirire babonye, aha rero bakwiye ubuvugizi.

Abamama bateraniye ahantu hamwe, harimo abirabura ndetse harimo n'umuzungu bambaye baji mu ijosi, bamwe muri bo bari kuganirizwa ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, aho bari gusobanukirwa kandi bose bishimye.

Umugabo wicaye ari gutekereza cyane ibibazo byamurenze, yambaye ingofero ndetse ahetse n'igikapu, aha ngaha rero biragaragara neza ko yahuye n'igihombo gikomeye aha akaba afite ibibazo ubwonko bwe butari gukora mbese mu mutwe we ntago hari gukora neza.

Aha hari abantu bagiye batandukanye harimo abakuze ndetse n'abakiri bato, bose bafite seritifika bahawe, izi rero bazihawe nyuma y'uko byagaragaye yuko bafashije abantu benshi cyane bari bafite ibibazo by'ihungabana maze bakabasha gukira.

Abantu bicaye bazengurutse ku ntebe za sheze zirimo imisego, bari kugenda baganira. Hagati yabo harimo umuntu. Ikiganiro cy'uyu munsi kwari ukwibanda ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwoko muri rusange. Aba bari hagati rero bari gusobanuza ibyo batumvise.

Umumama uri mu iduka rye aracuruje, harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ama asante sarisa ndetse harimo na nido ariko nkuko bigaragara uyu mumama aranezerewe ubwonko bwe buri gukora neza yiteje imbere akoresheje umutwe.

Uruvunganzoka rw'abantu rwahuriye mu mihanda aho rufite amabendera y'u Rwanda bishimye cyane, kandi ubona ko batewe ishema n'igihugu cyabo.

Umusore wisize vedange mu maso ndetse umubiri wose, ateruye ibikapu byacikaguritse yambaye, imyenda byacikaguritse ndetse n'ibikweta, uko ndi kumubona ntago yuzuye mu mutwe, yahuye n'ikibazo cy'ihungabana ubwonko bwe ntibukora neza.

Umumama wabyaye abana babiri ndetse n'undi wa gatatu waje kubasura, bose bafite ibibazo, imbere yabo hari urutaro rutetseho mironko irimo agaceri gake, uyu mumama byamucanze, ari kubona ko atari kwiyumvisha ukuntu ari buzeze kubona ibyo abatungisha.

Umu mama wagiye kuvuza umwana yagiye kumuvuza ku mujyanama w'ubuzima aho afata akuma agapima malariya agashyiramo amaraso y'umwana maze akaba ari kumwereka ko umwana we arwaye malariya, ahangaha rero hari umumama ufite telefone mu ntoki ari nawe wari kumuvura.

Umwana muto cyane wambaye impuzankano y'abanyeshuri ari kurya akantu, ahangaha rero akaba agaragara neza yuko mu mutwe we hakora neza, ndetse n'ubwonko bwe bukaba bwibuka cyane aho mu ishuri aba uwa mbere.

Ifoto y'umuntu ugaragara igice cyo hejuru, ahagaze imbere y'idapo ry'u rwanda, yambaye ishati y'umweru. Aha hariho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu arikuvuga ati turi kumwe. Hari n'andi ari mu ibara ry'icyongereza, ugerekeje mu Kinyarwanda baravuga ngo twese dushyire hamwe turikumwe.

Abantu bicaye mu byatsi bimeze neza cyane bagiye bicaye mu buryo bw'amatsinda. Babiri babiri bari kuganira aho bari kugenda bungurana ibitekerezo kugira ngo bumve niba bose ubwonko bwabo bukora neza ndetse hari n'ikimodoka gihari uwo bumvise afite ikibazo baramujyana bakamuvura. Hirya hari ihema naryo ririmo abantu.

Umugabo bigaragara neza ko yasaze ari kugenda mu muhanda yambuye imyenda byacikaguritse yambaye ibirenge, aha ngaha rero ubuzima bwe bwo mu mutwe bwaragiye ntabwo agifite ubwonko bwe ntibugikora.

Abantu babiri bari kuganira umwe yahuye n'ikibazo cy'ihungabana mu mutwe we ntihari gukora neza undi ari kugenda amuganiriza amwumvisha neza ko aribuze kumera neza, iyo wahuye n'ikibazo cy'ihungabana ubwonko bwawe ntago buba buri gukora neza.

Umusore wicaye ahantu habi kandi hijimye yiziritse ibiziriko ku maguru yambaye ubusa kandi bigaragara yuko afite ikibazo cyo mu mutwe imitekerereze ye ntago ikora neza nta kubishidikanyaho uyu ni umusazi.

Ahantu hateraniye abantu benshi bagiye bicaye babiri babiri mu matsinda bari kuganira, aho umwe aganira n'undi akumva ibijyanye n'imitekerereze ye ndetse n'ubuzima bwe bwo mu mutwe, akumva n'iba ubwonko bwe bukora neza. Inyuma y'abo hari itete na ryo ririmo abantu.

Umugabo wiziritseho ibyenda kandi yambaye ibyenda bicitse ntaheruka koga, ndetse naheruka no kwiyogoshesha. Biragaragara cyane ko uyu mugabo ari umusazi imikorere y'ubwonko bwe itagikora neza, ndetse inyuma ye hari abantu bicaye ku igare ndetse ntacyo bibabwiye.

Icyapa kirimo ikirangantego cya polisi y'u Rwanda aho harimo ishake iri kuguruka ndetse turi kubona amagambo yandikishije ibara ry'umukara, agira ati isange one stop centre ndetse hariho n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Umu mama uhetse umwana ndetse hari n'undi umuhagaze imbere, akaba yambaye agapfukamunwa yakamanuye, ari guteka igikoma cyiza cyane kugira ngo ahe umwana we maze agire imikurire myiza, ubwonko bwe bujye bukora neza.

Ni umusaza wiziritse iminyururu ku maboko yombi, yambaye ikabutura ndetse n'agapira, hejuru ye hahagaze abantu bigaragara ko yacanganyukiwe, mu mutwe we ntago hakora mbese ubwonko bwe ntiburi kwibuka, hejuru ye hari polisi birashoboka ko aya ari amapingu yamwambitse.

Umusore wahuye n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yicaye hasi yegamye ku rukuta yitangiriye itama. Yambaye ibyenda byacitse ndetse yambaye n'igikweto cyacitse mu kuguru kumwe, ukundi nta nkweto yambaye. Afite ibikarito n'ibipapuro n'ibishashi yatoraguye, ikigaragara cyo yarahungabanye.

Abasore, inkumi, aba mama ndetse n'abapapa bari gufata ifoto y'urwibutso, nyuma yo gusobanukirwa ndetse no gusobanurirwa ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange basanze ari ngombwa ko bafata ifoto y'urwibutso.

Umubyeyi ufite ibiti mu ntoki yiziritse igitenge mu rukenyerero, hari umwana bari kumwe ari kurira cyane bigaragara yuko ahangayitse ubwonko bwe budatekereza neza kubera ibibazo agiye afite bigiye bitandukanye.

Umugabo bigaragara ko afite ikibazo. ni umusazi yambaye ibyenda byacikaguritse afite ibisatsi byinshi cyane. Hari umupapa mwiza cyane wambaye ishati ndetse n'ipantaro uri kumusuhuza. Uyu musazi rero afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse uyu mupapa arashaka kumujyana kwa muganga.

Umugabo wambaye agapira k'umweru afite indangururamajwi akaba arimo kwigisha abagore batatu uburyo bagomba kwitwara mu gihe batwite, bakaba bari mu nzu y'ubuvuzi iteye irangi ry'umweru ndetse hariho ibipapuro bigaragaza intego y'iryo somo ry'uyu munsi.

Umusore wagize ikibazo cy'ihungabana agasara ubwonko bwe ntago bukora neza, yicaye muri ruhurura yambaye ikintu kimeze nk'igitenge cyacikaguritse, afite ibintu byinshi cyane yayoraguye ibishashi, ibijerekani byacitse, n'ibindi nk'ibyo bigaragara ko ubwonko bwe butari gukora neza.

Ahantu bateraniye abantu benshi harimo abakuze ndetse n'abakiri bato, bose bambaye amabaji mu ijosi, hari umuganga wari uri kubasobanurira, ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko, bose babyumvise kandi babyishimiye.

Umugabo uhagaze imbere y'icyapa, iki cyapa kirasa umweru kirimo ikirango cya repuburika y'u Rwanda, kikaba cyandikishijeho amagambo, hari ayandikishijwe n'umukara ndetse hari n'andi yandikishijwe n'ubururu, uyu mugabo rero yambaye ishati y'amakarokaro ndetse n'ipantaro.

Hari gahunda yatejwe imbere, ijyanye no gukangurira abantu kwita ku bwonko, ndetse n'imitekerereze yabo, aho kenshi na kenshi iba iri mu ifoto y'icyatsi, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, n'ari mu ibara ry'umukara, hariho n'ifoto y'umusore wambaye amarinete.

Umukobwa bafashe mu maboko, ni umu mama ndetse n'umupapa. Uyu mukobwa yagize ikibazo k'ihungabana bigaragara ko yari yarabaye nk'umusazi ntaheruka kurya ndetse n'ubwonko bwe ntibwaba bukora neza. ni ibazo bikomeye kubona umwana w'umukobwa wabaye umusazi.

Umugabo ari kurira aho amarira ariko kuva mu maso ari menshi cyane, ararakaye bigaragara ko kenshi na kenshi umuntu aba afite ikibazo cy'imitekerereze cyangwa se icy'agahinda.

Umu mama ndetse n'umu papa bicaye hamwe bigaragara ko umu mama afite indangururamajwi, akaba ari kubwira abantu bari hafi aho ariko tutari kureba, bicaye ahantu mu ihema bari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko, inyuma yawo hari indabo nziza cyane.

Inzu y'inama iteraniyemo abantu. Ndikubonamo abantu benshi bagiye batandukanye, bose baricaye. Hari umu mama uhagaze ufite isakoshi mu ntoki, wambaye isaha ku kuboko ndetse afite n'indangururamajwi, agiye kuyiha umukobwa umuri imbere kugira ngo avuge igitekerezo cye ku bijyanye n'imitekerereze ndetse n'ubuzima bwo mu bwonko.

Umusore ufite urudodo, ari kugorora amenyo ye, afite amenyo meza cyane bigaragara neza yuko aya menyo ayagirira isuku kandi ayitaho, rero ni byiza kwita ku menyo yacu kuko iyo ugize ikibazo cy'amenyo uba uhangayitse cyane.

Umusore wavuwe amenyo akayakira neza. Ari guseka cyane rwose bigaragara ko yishimye. Inyuma ye hari uturabyo twiza ndetse hari n'urukuta rutari kugaragara neza. Uyu musore rero yambaye akajaketi k'ubururu ndetse n'agapira mo imbere.

Umuganga w'amenyo ari kwihugura afite ikintu cya parasitike ariko kirimo amenyo, afite n'utwuma abaganga bakoresha. Aha ngahe rero aba ari kugira ngo ajye ahora yiyibutsa ubumenyi bwe butagira aho bujya maze akajya akora akazi ke nabi.

Umukobwa mwiza cyane ari guseka, ari kwerekana amenyo ye kuko amenyo ye ni meza kandi arasukuye, rero ni byiza ko umuntu asukura amenyo ye, kandi akayitaho igihe cyose yumva agize ikibazo, agahita ajya kwa muganga.

Igishushanyo kigaragaza amenyo y'umuntu uko ari mirongo itatu n'abiri, iki gishushanyo rero abaganga bavura amenyo bakunze kukicyitegereza ku buryo bamenya buri ryinyo aho riba rihererereye, mu gihe uje kwivuza amenyo nawe agahita amenya aho riri bitamugoye.

umusore umeze nk'uri kwireba mu kirahure afite urudo mu ntoki akaba ari kurushyira mu menyo kugirango ngo ayagorore bisa nkahoa ari muganga wabimutegetse kugira ngo aya menyo yiwe agororoke ase neza nkuko tubibona ni ukunguku abigenza.

Umusore ufite akantu kameze nk'amenyo ako kantu ukambika amenyo maze ukayarinda kuba yajyaho umwanda, aha ngaha rero agiye kugashyiramo amenyo ni ubuzima abantu benshi cyane basigasira amenyo ya kuko babizi neza ko iyo uritakaje ritagaruka.

Igishararagate gifite ibara ry'umweru, kiri ahantu hitaruye aho abaturage baje kwisuzumisha ndetse, no gushaka serivisi z'ubuzima, bakaba bari gufashwa n'inzobere mu bijyanye mu by'ubuzima.

Umusore uri kwireba mu kirahure afite urudodo mu ntoki ari kugenda agorora amenyo ye amenyo ye ni meza nta kibazo afite bigaragara ko aherutse kuyavuza muganga akaba yaramutegetse kujya ayagorora buri uko abyutse, aha rero akaba ari kubikora.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro imbere harimo inkuta zisize irangi ry'umweru turi kubonamo ibitanda byiza cyane baryamishaho abarwayi bagiye kubasuzuma, ndetse hariho n'imashini isuzuma abarwayi, aho bakuryamishaho maze bagahita bareba muri iriya mashini kibazo ufite.

Abana bato cyane b'abanyeshuri bambaye impuzankano bafite uburoso bw'amenyo buriho umuti w'amenyo, buri wese afite agakombe mu ntoki bari koza amenyo, kugira ngo birinde indwara zose ziterwa n'umwanda zafata amenyo yabo.

Umugabo ufite urudodo arufatishije ibiganza byombi ari kurushyira mu menyo, arimo arakwedura amenyo ye kugira ngo ayagorore aya menyo iyo uyagoroye aba neza bigaragara ko ayoza kandi akayasukura neza cyane.

Umugabo ufite akantu ka palastike kariho amenyo abiri, ari kugorora amenyo yiwe, bigaragara yuko amenyo afite ikibazo biragaragara ko asa nabi nta ntanubwo ajya ayoza, akwiye kujya kureba muganga maze akamugira inama akaba arizo akurikiza.

Umuntu uryamye mu ivuriro ry'amenyo kwa muganga. Aryamye ku gatanda, abaganga bafite ibikoresho bigiye bitandukanye bari kumuvura. Bafite utumeze nk'udukasi, bafite akameze nka toronovisi, bakagira n'akameze nk'akayiko barimo baramuvura rwose.

Aha ni mu ivuriro iki cyumba kivurirwamo amenyo, turi kubonamo ibikoresho bigiye bitandukanye umuganga aba akeneye, nk'igitanda aryamishaho umurwayi, intebe yicaraho ndetse n'udukoresho agenda akoresha, aha rero bakaba bavura neza cyane kuko hari ibikoresho.

Umusore uri kwreba mu kirahure, afite akadodo ari gushyira mu menyo ye ayagorora, bigaragara ko amenyo ye aherutse kuyavuza kuko amenyo ye ni meza cyane, muganga akaba yaramubwiye kujya yibuka kuyagorora buri mu gitondo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, aha rero ni mu nyubako nziza kandi igeretse inshuro nyinshi, aha havurirwa uburwayi bw'amenyo, umuntu wese ufite ikibazo cy'amenyo araza akinjira maze bakamwakirana yombi.

Ni kwa muganga, ndetse iki ni icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, harimo umuganga wicaye ku gatebe, ndetse hakaba hari n'igitanda asuzumiraho umurwayi hejuru hariho amatara amumurikira kugira abashe kubona uburwayi umurwayi afite.

Muganga ari gukura umwana amenyo uyu mwana yashinyirije cyane ariko muganga yamuteye ikinya kuko ari gukurura umunwa we kugira ngo abashe kubona aho iryinyo agiye gukuramo riri, gukurira iryinyo ntago biba byoroshye bisaba kwitonda ndetse no gushishoza.

Umusore ufite urudodo mu ntoki ari kurushyira mu menyo ye maze agakuruza ibiganza bye byombi kugira ngo amenyo yari areshye, afite amenyo meza ariko urudodo ari kuyashyiramo rushobora kuyangiza sibyiza gushyira ikintu icyo aricyo cyose mu menyo yawe.

Abana beza cyane bakaba bakiri bato, biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano zirimo amashati y'umweru ari imirongo, ndetse n'amajipo y'icyatsi, aho umwe muri bo yambaye n'umupira w'imbeho, bose bakaba bari koza amenyo yabo bifashishije uburoso ndetse n'umuti w'amenyo.

Umwana muto cyane w'umukobwa bari kumuvura amenyo, muganga yamushyizemo akuma gasuzuma, aho akinjizamo maze akareba akajya yumva ahari ikibazo, uyu mwanya rero nawe yateze bari kumuvura.

Uyu ni umunsi wagenewe kuzirikana ndetse no kwisuzumisha indwara zo mu kanwa. Aha rero turi kuhabona abantu benshi cyane, bose baje bambaye imyenda isa, bambaye iy'icyatsi irimo amagambo yandikishije umuhondo, abandi bambaye iy'umweru. Aha ngaha rero bose bakaba bafite uburoso bw'amenyo burambitse hasi.

Muri gahunda zo kubungabunga ubuzima bw'amenyo abantu barakangurirwa kugira ngo bajye basukura amenyo yabo bifashishije amazi meza n'isabune kenshi ku munsi.

Aha ni aho bavurira amenyo, nkuko bigaragara, hari umusore ndetse n'inkumi, bari kwereka muganga amenyo yabo, kugira abarebere niba yarakize neza, nta burwayi bukiyarangwaho, nawe ari kubasubiza ko amenyo yabo ameze neza, kuko turi kubibona ko asa neza.

Aha ni kwa muganga ndetse ni mu cyumba kivurirwamo uburwayi bw'amenyo, turi kubona umuganga wambaye ga, akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'impuzankano y'abaganga , yafashe akantu kameze nk'agati agashyira mu kanwa k'umurwayi, ari kurebamo ngo arebe iryinyo rifite ikibazo.

Ni mu nzu nziza cyane ifite amarangi y'umweru, ndetse harimo ameza, hakaba harimo n'intebe zicayeho abanyeshuri bambaye imipira y'icyatsi, bakaba bafite ikibazo cy'amenyo, ndetse hakaba hari n'abaganga bari kubasuzuma.

Umusore mwiza cyane bigaragara ko asa neza yambaye agapira k'ingofero, ari gutunga urutoki ku itama, twebwe turi kwirebera amenyo ye, amenyo ye arasa neza cyane kuko yayavuje, kandi ubu asigaye ayoza akayagirira isuku.

Aha ni kwa muganga icyumba kivurirwamo amenyo turi kubonamo ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa mu gihe cyo gukura amenyo. hari ahantu hari lavabo aho muganga aba yoza udukoresho ndetse hari n'udutanda bakuryamishaho, hakaba hari n'itara riba rikumurikiye..

Umusore ufite amenyo meza cyane, afite urudodo mu ntoki ari kugenda arushyira hagati y'amenyo maze akayagorora, Amenyo yiwe ameze neza cyane kuko ayitaho turi kubireba tukabibona, inyuma yiwe harasa umweru.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, ateze agatambaro k'umweru, afite uburoso bw'amenyo, ari koza amenyo yiwe ubona ko yireba mu kirahure ndetse agaseka cyane, kuko afite amenyo meza cyane, yayitayeho kandi ayagirira isuku.

Umuganga yashyize akana mu biganza bye ari kugasuzuma amenyo, ndetse biragaragara ko agiye guhita amuha umuti, uyu mwana rero utwinyo twe, twari dutangiye kugira ikibazo, ariko kuko yageze kwa muganga, baratuvura dukire.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho. Aha ni mu cyumba bavuriramo uburwayi bw'amenyo, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Muganga yifashisha mu gihe ari kuvura.

Aha ni kwa muganga kandi niho bakurira amenyo. Hari umuntu waje kwivuza amenyo, ufite amenyo agiye ahengekeranyije. Muganga ari kureba ukuntu yayakuramo. Afite ibikoresho arimo aramuvura neza cyane yitonze. Ashyiramo akuma akareba irirwaye neza kugira ngo abe ari ryo akuramo.

Umusore ufite urudodo mu ntoki akaba yenda kurushyira mu kanwa, urudodo rero ashobora kuba arukoresha agorora amenyo ye yaba ayo hasi ndetse n'ayo hejuru, akaba yaragiye kwa muganga bakabimutegeka na we akaba ari kubishyira mu bikorwa.

Umusore wambaye agapira k'umweru, afite amenyo meza cyane niyo ari kwerekana, aha rero yagiye kwa muganga arwaye amenyo baramuvura bamuha umuti mwiza azajya yiyogesha arawukoresha amenyo ye arake ubu ngubu atewe ishema na yo.

Umukobwa mwiza cyane ari kwerekana amenyo yiwe, afite imisatsi myiza ndetse isura ye ni imibiri yombi, ni umwana w'umukobwa ariko ubona ko witaye ku menyo ye, amenyo ye yarayavuje arangije arayarinda, arasa neza cyane arererana.

Umusaza bigaragara ko ashaje, hari umukobwa ukiri muto ari kumufasha kugirango abashe kuva ku buriri akandagire hasi, muri iki cyumba harimo uburiri ndetse harimo n'inzitiramibu, ndetse hakabamo n'agasanduku babikamo ibikoresho.

Ababyeyi batatu biyicariye ahantu mu twatsi. Bari kumwe n'abana babo ndetse n'abuzukuru bose barishimye. Umubyeyi umwe ari kuboha igitebo. Abandi bicaye mu ntebe bari guseka, barishimye, urabona ko banejejwe n'ibiganiro bagiranye n'abana babo.

Umusaza wambaye ishati y'amaboko maremare arashaje cyane afite imvi mu bwanwa, hari umuganga uri kumusuzuma yamushyizeho ikintu gipima umuvuduko w'amaraso ari kureba uko ahagaze. Aha ngaha rero ni mu bitaro kwa muganga, aho baba bari kwita ku barwayi bagiye batandukanye.

Abakecuru ndetse n'abasaza bari muri siporo, bose bafite utuntu mu ntoki bari kugenda bagora amaboko ndetse n'ibiganza, bose barishimye bigaragara ko bishimiye guhurira hamwe bari mu gikorwa cya siporo, siporo ni ubuzima kandi abantu bakuru bakwiye kwiyitaho.

Umukecuru uri kumwe n'abana be ari kumwe n'umwana we ndetse n'umwuzukuru bicaye ku meza, bari gufata amafunguro ya mu gitondo . Umwana akaba afite ibyatsi mu ntoki bigaragara ko we bari kumuha umuti kuko ntabwo yishimye.

Aba mama babiri bakuze, bari muri siporo. Bari gukora siporo ahantu heza, hari ibiti birebire bitanga umuyaga, ndetse hasi hari utwatsi, bari kugorora amaboko yabo ndetse bagorora n'amajosi. Aha rero aba mama bakuze bagakwiye gukora siporo kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Umusaza uri kwa muganga, muganga ari kumwitaho cyane, ari kumwemwereka igitabo akamusomera amategeko n'amabwiriza, uko azajya afata imiti, ari kumwandikira ndetse akamubwira ko, icyo atazasobanukirwa ashobora kugaruka bakongera bakamusobanurira.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye mu nzu ndetse bicaye imbere y'ameza. Imbere yabo hari ikirahure kirimo amazi ndetse n'uducupa turimo imiti; umusaza afite terefone mu ntoki, umukecuru afite agapapuro bari kureba ndetse banasoma amabwiriza agenga iyo miti.

Abagore bishimye cyane abenshi muri bo bambaye ingutiya z'umukara ndetse n'imipira y'umweru, bambaye udupfukamuwa batumanuye bari kwishimana bakora imyitozo ngororamubiri, bakaba bahagaze imbere y'igipangu giteye amarangi ajya kuba umukara.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye mu nzu nziza cyane, imbere yabo ku meza hateretse udukombe turimo imiti ndetse hatetse telefone na mudasobwa, umukecuru ari gukoresha mudasobwa naho umusaza ari kumwereka umuti kugira ngo amurebere ibiwanditseho.

Umusaza ndetse n'umwana we; bicaye imbere y'ameza bose imbere yabo hateretse udukombe tw'umweru. Bari kureba mu gitabo bagasoma maze bose bagaseka, ni byiza rero ko abantu bashaje babona ababahora iruhande bagasabana, kuko bituma bumva bameze neza.

Mu buryo bwo kubungabunga ubuzima hifashishwa ibiribwa bitandukanye, bifite amabara y'umukara, umweru, ibitukura, iby'umuhondo ndetse n'ibindi byinshi kugira ngo umuntu amenye ko yarireye indyo yuzuye.

Umusaza yicaranye n'abuzukuru be, afite ikintu ari kurya ndetse n'abuzukuru be bose yabahaye. Umutoya we afite n'icyo ari kumwe uyu musaza yishimiye kuba ari kumwe n'abana be kuko urabibona ko bimunejeje.

Abasaza bicaye hamwe, aba basaza bamwe bambaye amakanzu abandi bambaye amapantaro, bamwe bambaye utugofero abandi nta two bambaye, bose bambaye ibikweto byiza binini, aha rero abo basaza baka baje mu birori nkuko turi kubibona.

Abantu babiri bari muri siporo, nk'uko bigaragara bose bambaye imyenda ya siporo kandi myiza bari gukora siporo ahantu heza hari ibiti bitanga umuyaga ndetse hakaba n'indabyo, aha hantu ni heza siporo ni ubuzima abantu bakuru bo iyo bazikoze biba akarusho.

Umusaza ukuze cyane yambaye umupira w'amaboko ndetse n'ishati mo imbere, yambaye amarinete ari kwandika ndetse ari no gusoma, aya marinete icya amufasha ni ukubona inyuguti, uyu musaza rero ashaje yiyitayeho kuko aracyabasha no gusoma ndetse no kwandika.

Umusaza bigaragara ko shaje ari kumwe n'umukobwa ukiri muto bicaye imbere y'ameza. Uwo mukobwa yambaye baji mu ijosi. Umusaza ari kumwereka muri telefone bose bakarebamo bagaseka. Uyu musaza rero bigaragara ko anezezwa no kuba ari ari kumwe n'uyu mukobwa.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye hamwe, umusaza yambaye agapira k'ubururu umukecuru yambaye ak'umweruru bari gusoma agatabo ngo barebe amategeko n'amabwiriza bakurikiza kugirango banywe imiti kuko iyo miti bayifite imbere yabo ku meza turi kuyireba.

Abagabo babiri bose barakuze bari guca mu kayira gasashema amatafari inyuma yabo hari ibiti birebire ndetse imbere yabo hari ibyatsi byiza cyane ariko biri kugenda byuma, aba rero bari kuganira bagaseka cyane cyane ko bose bakuze.

Abamama ndetse n'abapapa bakuze. Bari kumanika ibikoresho. Bahagaze mu myaka bahinze imeze neza cyane. Ndetse aho hari n'indabo. Bahagaze ahantu hasa neza, bose barishimye bari kuganira ubona yuko ibi bintu ari byiza.

Umusaza ari kugendera ku kantu k'akuma. Atambuka gake gake. Imbere ye hari umukobwa mwiza cyane ufite agakapu mu ntoki akaba ahetse n'ikindi mu mugongo. Uri kugenda amufasha. Kugenda amwitaho, amwitaho cyane. Kugira ngo bagere aho bagiye kandi na we agorore amaguru.

Umumama ukuze yicaye imbere y'ameza afite ikirahure cy'amazi mu ntoki ndetse hari umuforomokazi umuhagaze iruhande wambaye impuzankano y'abaforomo, ari kumuha ikinini ngo anywe, uyu mumama urabona ko atinya imiti arababaye cyane.

Umusaza uri kumwe n'umwuzukuru we bicaranye muri salo. Uyu musaza yicaye mu gatebe k'abafite ubumuga ni mu nzu nziza cyane ifite inzugi ziriho ibirahure ndetse n'amadirishya, mo imbere harimo ururabyo rurerure ndetse harimo n'intebe nziza.

Umusaza ndetse n'umukecuru bari muri siporo bari kwirukanka mu muhanda. Inyuma yabo harasa umuhondo; bambaye udupira twiza cyane dutoya ndetse bose bambaye n'udusaha ku kuboko. Bari kugenda baseka, siporo ku bantu bakuru ni ingirakamaro.

Umubyeyi wicaye ku ntebe hari umuforomokazi umuri inyuma, bigaragara ko basa wagira ngo n'umwana we, ari kumuganiriza cyane bose bagaseka. Ababyeyi iyo bakuze baba bakeneye urubyiruko rubaganiriza kugira ngo bakomeze kubaho bishimye.

Umusaza bigaragara ko ashaje cyane yambaye agapira k'ubururu ndetse n'agakabutura k'umukara aha afashe kurwuma umukobwa ukiri muto wambaye imyenda y'umukara hose ari kugenda amufashe gake gake ngo atambuke agenda agende agorore imitsi.

Agashushanyo k'ibiganza bibiri biri gusuhuzanya, akaba biri hagati y'inyuguti H ndetse na R, hepfo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza aho yanditse ati ''ubuzima ku banyarwanda bose'' aha ngaha rero aka kantu kari mu ibara ry'ubururu.

Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo kongera imbaraga mu kurinda ndetse no gukumira indwara zitandura, aha ngaha rero turi kuhabona akapa k'umweru hariho amagambo yandikishije umukara, avuga ngo indwara zitandura. Aha rero tugomba kuzirinda kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu.

Leta yafashe ingamba z'uko abaganga bagomba kujya begera abaturage maze bakabasuzuma. Aha ngaha rero aba baganga bambaye impuzankano bikwije hose bari ahantu mu giturage mu ihema, baracize abaturage ku murongo bari kubasuzuma, aho bari kubasuzuma uburwayi bw'amenyo ndetse n'izindi ndwara zo mu kanwa.

Umumama ufite amameshi yambaye n'amaherena, ndetse aha ngaha turahabona ibara ry'umutuku, ririmo amagambo yandikishije umukara, aho bavuga bati ingaruka z'ibidukikije kuri sosiyete nyarwanda, aha ngaha rero bakaba bafashe ingamba zo kurinda ndetse no gusigasira ibidukikije.

Muto cyane aryamye yitambitse ndetse hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru hari n'umubare rimwe, bakavuga ngo umunsi umwe ushize, bigaragara ko uyu mwana amaze umunsi umwe, akaba ameze neza cyane.

Aha ni kwa muganga hakaba hafashwe ingamba zikomeye zo kwirinda covid cumi n'icyenda aho abantu bose bagomba kwambara udupfukamunwa, bagahana intera, keretse muganga wenyine uri kuvura abarwayi, aba baganga na bo bari kuvura abarwayi ariko bipfutse ahantu hose.

Urubyiruko ruteraniye hamwe, ruri mu nama bari kungurana ibitekerezo, mbese urabona ko bose bakurikiye, nta n'umwe urangaye kandi barishimye, uri kubona ko bari kuganira ndetse bafata n'ingamba ku bijyanye n'ubuzima.

Umwana muto cyane ari gukina n'umuganga, ahanga ngaha rero leta yafashe ingamba z'uko abana bagomba kujya bisanzura, cyane cyane ko abaganga n'ubundi baba bakwiye kwisanzura ku barwayi kugira ngo babavure neza.

Zimwe mu ngamba Leta y'u Rwanda yafashe harimo no kwegereza abaturage serivise zitandukanye z'ubuvuzi. Harimo kubahera inkingo ku gihe mu rwego rwo kubarinda indwara z'ibyorezo zigiye zitandukanye.

Umukobwa mwiza cyane, wambaye ijakete. Yambaye agapira k'umukara, mo imbere akaba yambaye na baji. Afite igitabo mu ntoki ndetse n'indangururamajwi. Bigaragara ko ari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ingamba zafatwa kugira ngo buri muturage agire ubuzima bwiza.

Abantu bicaye ahantu bigaragara ko ari mu kigonderabuzima biri kugaragara yuko bari kubafasha maze bakaba bateze amatwi bari kumva ingamba zitandukanye z'ubuzima zafashwe aho nabo biteguye kuzikurikiza.

Ababyeyi bateruye abana babo, leta yafashe ingamba ko buri mubyeyi agomba kwita ku mwana we ariko kandi nayo igira icyo igenera umwana ukiri muto, aho batanga ifu y'igikoma bakayiha ababyeyi kugira ngo babone amashereka yo konsa abana babo.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bari gufata ifoto y'urwibutso, harimo aba mama ndetse n'aba papa. Inyuma yabo hari icyapa kigaragaza amasezerano basinyanye nka Afurika, kuba bagiye gufatanya mu bijyanye n'ubuvuzi.

Ahantu hasa uburu, hari ikiganza kiri gusuhuza ikindi, hakaba hari inyuguti ebyiri H na R, ahangaha hari n'izindi nyuguti zanditseho mu rurimi rw'icyongereza ugerekeje mu Kinyarwanda handitseho ngo "ubuzima bwiza ku Banyarwanda".

Umugabo wambaye umupira wamaboko maremare, yambaye ingofero, ndetse na marineti. Inyuma ye hari igiti cyiza cyane, ndetse kuruhande hari n'amazu atari kugaragara neza. Afite urupapuro rwanditseho yuko urukingo rwa mopokisi rwageze hose ubungubu.

Abantu bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga bafite ibyapa mu ntoki aho bagenda bavuga ngo "twirinde kanseri y'ibere isuzumishe hakiri kare maze ukurikiranwe ku gihe" aha harimo abantu bambaye imyenda igiye itandukanye umukara ndetse n'umweru.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bambaye imyenda y'umweru, bicaye ku ntebe nziza z'umweru za prasitike, higanjemo abakobwa. Imbere yabo hahagaze umukobwa wambaye agakote k'umukara ari kubereka icyapa akabasobanurira neza. Aha rero bafashe ingamba zo kwirinda uburwayi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Leta yafashe ingamba zo gukingira abaturage bose mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza, aha ngaha rero ibaha inkingo zigiye zitandukanye aha hari umuganga uri gukingira umukobwa, uri hano ari kumutera urukingo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ni umumama wicaye ku ntebe. Bari kumukingira indwara. Leta y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo gukingira abaturage Kovide cumi n'icyenda. Aha ngaha rero hari umumama wambaye agapfukamunwa. Bakaba bari kumukingira akaba ashinyiriza cyane kandi ntago biryana rwose.

Inama yahuje abantu bari mu nzego zitandukanye z'ubuvuzi, aho abagabo batatu n'umugore umwe, ari bo bashyitsi b'imena. Bakaba bari kwigisha imbaga ibijyanye no kwita ku buzima.

Akapa k'ubururu. Aka kapa kariho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, ndetse n'andi yandikishije ibara ry'umweru ariko ari mu murongo w'umutuku, hakabaho n'undi murongo w'umuhondo, aho wanditsemo amagambo aho bagira bati: "Turandure kanseri burundu mu Rwanda, ibi birashoboka."

Umukecuru ushaje cyane. Yambaye ingofero itukura, akaba afite igipfuko ku ijisho rimwe. Aha ngaha rero Leta yafashe ingamba zo kujya yita ku ba mama nkaba bakuze ndetse n'abapapa. Aho ibashyira hamwe ikajya ibafasha kugira ngo babone uko babaho neza.

Mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi muri rusange hakenerwa indyo yuzuye aho haba harimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara birimo imboga n'imbuto twavuga nka karoti teyi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abashyitsi bakomeye barindwi barimo abagore babiri n'abagabo batanu bambaye amakositimu meza ,bicaye imbere y'imbaga barimo barabigisha uburyo bashobora kuyifata kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubona hijimye nta tara riri kwaka hakaba harimo igikoresho bifashisha bari gupima abarwayi, hari umuganga, uwo muganga ari kugenda ashyiramo umurwayi kugira ngo amusuzume.

Inyubako nziza cyane y'vuriro harimo ibitanda ndetse ku gitanda kimwe haryamyeho umurwayi. Hari umuforomokazi uri mu ivuriro akaba ari gusuzuma umurwayi. Ari kwiyumvira cyane bishobora kuba bitagenze neza, uyu murwayi akabagize ikibazo gikomeye.

Inyubako nziza cyane isize irangi ry'umweru ndetse hari aho bacaginga, hakaba hamanitseho isaha hejuru, aha ngaha rero hari icyuma cyiza cyane kifashishwa bari gupima umurwayi, aho bamuryamishaho bagahita bamenya uburwayi afite.

Inyubako nziza cyane, ivuriro, igeretse gatatu, nk'uko tubibona haparitse imodoka aho turi kubona ni muri farumasi. Iyi farumasi iherereye i Remera, bari kutwereka ndetse n'ubwishingizi ikorana nabwo aho tubona ko harimo imiti igiye itandukanye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ifite inkuta zisize irangi ry'umweru ndetse na parafo ni umweru. Harimo amatara, hakaba harimo ibipurizo by'ubururu ndetse n'umweru birimo umwuka. Aha ngaha rero ndetse hakaba hari n'igishushanyo cy'ijisho. Muri iki cyumba bavuriramo uburwayi bw'amaso.

Inyubako nziza cyane irimo irangi ry'umweru ndetse n'ubururu, hari isaha imanitse ku rukuta, hakaba harimo ekara, harimo udutanda baryamishaho abarwayi mu gihe bari kubasuzuma, aha rero hasi hari amakaro akaba ari mu isuzumiro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, imbere harasa neza cyane, inkuta zisize irange ry'umweru, hejuru hari ibyuma bigiye biriho imikondo bitanga umwuka aho ngaho, hari udutebe duteretse aho ndetse n'ameza, aha ngaha ni ho basuzumira abarwayi.

Inyubako y'ivuriro, ikaba ifite inkuta zisa umweru, mo imbere harimo agatebe k'umukara abakeneye serivisi bicaraho igihe bategereje muganga kugira ngo aze abavure. Iyi nyubako ikaba iriho utwambi tugaragaza ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, turi kuhabona abantu bambaye udupfukamunwa, bari kwifotoza, ndetse tukabona inzu nziza yubatse iriho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, yanditse agira ati: isange one stop center, ibitaro bya Kabutare.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gihe hari kuvurwa ndetse ikindi harimo ibikoresho bisuzuma ibizamini bigiye bitandukanye iyi nyubako ifite inkuta z'umweru ndetse hasi hakaba hariho amakaro.

Inyubako y'ivuriro ikaba ifite ibirahure by'umukara, harimo indobo y'icyatsi kibisi iteretse ndetse n'iy'ubururu. Harimo umugabo uri gukora amasuku wambaye wikwije, wambaye imyambaro y'umweru, akaba ahetse ijerekani irimo umuti ari gutera aho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro n'imbere turabonamo umuntu wicaye mu kagare k'abafite ubumuga ndetse hari umukobwa uri kumufasha. Hari abaganga bicayemo bari kugenda bafasha abarwayi babaha serivisi bari kubasaba, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi.

Inzu nziza cyane yo mu ivuriro. Iteye amarangi y'umweru, ikaba ari icyumba kirwariramo abarwayi. Aho kirimo ibitanda bine by'abarwayi bitatu muri byo biryamyeho abarwayi ndetse harimo n'abaganga bari kubitaho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubonamo parafo nziza cyane, tukabonamo amatara meza cyane. Harimo imitako igiye itandukanye kuko harimo amabara agiye atandukanye, icyatsi, ubururu, umuhondo ndetse n'umweru. Iyi nyubako rero ni nziza cyane ndetse harimo n'intebe abantu bicaramo mu gihe batarahabwa ubufasha.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, hakaba harimo ibitanda bakiriraho abarwayi bavurwa bari kwa muganga, hejuru ya buri gitanda hariho inzitiramibu, ndetse ku ruhande hariho n'irido, ni inzitiramibu z'ubururu ndetse n'amarido y'ubururu.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, harimo igitanda cyiza cyane basuzumiraho abarwayi, kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hakaba hari agatebe k'umukara ndetse hari n'ibindi bikoresho abaganga bakoresha, iyi nyubako rero irasa neza ifite inkuta ziho irange ry'ubururu, ndetse hari amakaro.

Inyubako nini cyane y'ubuvuzi igeretse rimwe, ikaba ifite amabati y'ubururu ndetse ikaba inateye amarangi y'umweru, imbere ku marembo yayo hakaba handitseho izina ryayo bikaba byanditswe ibara ry'umukara ariko biri ku irangi ry'umweru.

Umukobwa ukiri muto w'umuforomokazi yambaye ingofero y'umweru, mu mutwe akaba afite agahinja karyamye ahantu mu gasanduku ari kugenda akambika agakufi, aha hantu rero niho bashyira abana bavutse batagejeje igihe kugira ngo bakomeze bakure neza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turabonamo amarangi y'umweru ndetse n'amakaro hasi, aha rero hagiye harimo amaravabo menshi bogeramo mu gihe bamaze gusuzuma ibizamini, kuko aha niho basuzumira ibizamini bijye bitandukanye.

Inyubako y'ivuriro imbere turi kubona inkuta nziza cyane zisize irangi ry'umweru hejuru naho asize irangi ry'umweru tukabonamo ibikoresho byose abaganga bifashisha bari kuvura abarwayi harimo agatanda harimo aka meza ndetse hari n'agakarito bajugunyamo imyanda mu gihe bamaze kuvura abarwayi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubakishije amabuye, ikaba isize irange ry'umukara ndetse hejuru hakaba hasize iry'umweru, hari amadarage ari hafi aho, hakaba indabyo nziza cyane zarabije, aha rero hari n'abantu baje kuhivuza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro n'inyubako yubatse mu buryo buzengurutse, Iyi nyubako rero ikaba ikorotijwe utwuma tw'umukara hakurya pohabona amazu atuweho n'abantu ku musozi urikure. Ikirere kirasa ubururu ndetse hari ubusitani burimo pasupalume.

Inyubako y'ibitaro. Hari icyapa kinini kigaragaza serivisi zitangirwaho ngaho. Hicaye abantu benshi cyane, bagiye bica amadi atandukanye. Ndetse haparitsemo n'imodoka. Ahangaha rero bakaba ari mukigonderabuzima. Abantu bakaba baje kwivuza.

Inyubako y'ivuriro aha nk'imbere harimo abantu baje kwivuza bakaba batonza umurongo ndetse hari n'undi uri mu kagare k'abafite ubumuga yaciye imbere we ntiyatonze umurongo nk'abandi aha rero bakaba bari gutambuka bagenda basanga uri kubakira umwe ku wundi akabafasha.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatse neza isize amarange meza isakaje amabati y'umutuku ndetse ni ndende, aho ngaho rero harimo n'ibendera ry'i Rwanda hakaba harimo ubwatsi bwiza busa neza, hasi mu kayira nka hasashye amapave ndetse haparitsemo imodoka na moto.

Inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, harimo intebe isa icyatsi kibisi inkingi zayo zirasa umukara, hagiye haziritseho udutambaro ak'umweru ndetse na ak'ubururu. Hari umuntu wicayemo wambaye agapira k'umuhondo, iyi rero ni ivuriro rigezweho.

Aha ni mu kigo nderabuzima, ni inyubako y'ivuriro, bari kugaragaza amagambo manini cyane yandikishije ibara ry'umukara, bagaragaza ko ari aho bakirira, abantu barahicaye bakeneye kwakirwa kugira ngo bavurwe, ndetse hari n'abandi bicaye aho bakirira abagana ikigo nderabuzima.

Inyubako y'ivuriro aha niho batangira imiti, ni icyumba kinini cyane kirimo imiti igiye itandukanye harimo n'imashini ndetse hari n'intebe ya porasitiki y'umweru, hakaba hari amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi aho havuga ati komereza muri forumasi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo umubyeyi uteruye akana keza cyane kambaye imyenda y'umweru, hakaba hari umuganga uri kukareba udutoki bigaragara nkaho agiye kugaha urukingo. Ni ngombwa gukingiza umwana uko bikwiye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari udutanda bicazaho abarwayi bagiye kubavura, hari n'imashini bifashisha bari gufata ibizamini ndetse inkuta zirasa umweruru. Hasi hakaba hari amakaro, iri vuriro rirasa neza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro irimo ibyapa byinshi cyane bigiye bitandukanye bigaragaza buri muryango n'ikiwukorerwamo. Iyi nzu yubatse neza ifite ibirahure byiza cyane byijimye ndetse hasi hariho amakaro ikaba isakaje amabati.

Inyubako nziza cyane ifite urukuta rw'umweru, ikaba ifite ibikoresho hejuru bizana umuyaga mo imbere, hakaba hari n'ibyuma bifashisha mu gihe bagiye kuvura abantu. Turi kubona hasi hasa neza cyane.

Inyubako yo kwa muganga aha ni mo imbere, turi kubona urukuta rwiza cyane rusize irangi ry'umweru ndetse na porafo ni umweru, ibirahure ni umukara, harimo igitanda kiriho matera y'ubururu, hakaba harambuye ishuka y'umweru, harimo imashini bifashisha bari gusuzuma abarwayi.

Inyubako nziza cyane yiivuriro harimo ibitanda by'abarwayi ndetse harimo n'ibiryamyeho abarwayi, harimo inzitiramibu, hakabamo amarido, harimo n'ibikoresho abaganga bakoresha bari kuvura ndetse n'urwuma bamanikaho serumu.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Hakaba haryamyemo umwari. Bigaragara ko arwaye arembye ikanzu ye yazamutse. Hari umukecuru ndetse n'umupapa bari kugerageza kumufasha mbere yuko muganga ahagera.

Inyubako y'ivuriro ni inyubako itari nini cyane isakaje amabati ndetse ikaba ifite n'amatara. Iri ahantu hari indabyo nziza ndetse hari n'ibiti birebire nk'uko bigaragara ni inzu y'ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bakoresha. Harimo udutanda dusa umutuku ndetse kamwe karambuyeho agatapi k'umweru, ahandi hari intebe nziza nazo z'imituku hari imashini iteretse ku meza ndetse n'indi mashini isohora impapuro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo abaganga bambaye impuzankano bagera muri bane. Aha rero bakaba bameze nk'abari mu mahugurwa bari kwihugura, imbere yabo hari udukoresho tugiye dutandukanye ndetse hateretse n'agacupa.

Z'ibitaro, aha ngaha rero turi kubona imbuga nini cyane irimo pasiparomo, hakaba harimo n'igiti kimwe ,aha hari akayira k'abanyamaguru, banyuramo igihe izuba ryinshi riri kuva cyangwa se imvura iri kugwa, ntibibe byabageraho.

Ni inyubako nziza cyane y'ivuriro ndetse imbere harasa neza cyane hasize irangi ry'umweru parafo isa umweru, harimo amatara ari kwaka ndetse hari na ekara iri hejuru, harimo amarido meza ndetse hari n'agace gasizemo uturange tw'umuhondo ndetse na oranje.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashisha mu gihe bari gusuzuma, si ibyo gusa kuko tubibonamo n'intebe hari utuntu turi kurereta ku inkuta, inkuta zirasa umweru, parafo ni umweru ndetse no hasi hari amakaro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turayibona irasa neza cyane. Hari abantu bari kugenda baganayo, bari guca mu mbuga ishashemo amapave. Hafi aho hari ibiti byiza cyane bitangamo umuyaga ndetse hari na pasiparume nziza. Ku muhanda hari icyapa kigaragaza neza uko wabigenza kugira ngo ugere kuri muganga.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, haparitsemo imodoka ndetse harimo ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse n'agacucu mu ivuriro, hakabamo ubusitani bwiza, harimo pasiparumu, kabamo umukindo ndetse n'indabyo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo ibitanda ndetse biriho na matera, ibi bitanda birimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, matera isa icyatsi kibisi hari n'akabati kari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, inkuta zisa umweru ndetse hasi hari amakararo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro muri iyi nyubako hahagazemo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga iyi nyubako rero nkuko bigaragara ni ibitaro ndetse hari n'icyapa kigaragaza serivisi batanga aha hakaba ari ku isuzumiro ry'ibizamini cyane cyane ibijyanye na marariya.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turabona irangi ry'umweru ku nkuta, tukabona parafu y'umweru, tukabona amatara meza cyane ari kwaka, aha rero harimo icyuma gisuzuma abantu aho wicaraho cyangwa se ukaryamaho maze muganga akareba mu mashini agahita amenya uburwayi ufite.

Umubyeyi wicaye ku ntebe turikubona umusore w'umuforomo yambaye impuzankano y'abaforomo isa ubururu. Ari kumusuzuma gake gake yamusanze mu rugo, aho ari kumuganiriza nawe amusubiza. Hirya turahabona amasina, ndetse inyuma yabo hari ibiti byinshi birunze ahantu hamwe.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro mo imbere turi kubonamo ibitanda bisasheho matera ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ibitanda ni umweru ndetse harimo n'amarido, inkuta zirasa umweru, hasi hari amakaro nk'uko tubibona iri vuriro rirakeye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kuhabona ubusitani bwiza cyane, ni inyubako yubatse mu buryo bwiza ndetse hakaba hari n'ibiti byiza cyane by'indabo ndetse hari n'ibizamutse bimeze nk'insina, nk'uko tubibona rero ibi ni ibitaro bya Rwamagana.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ndetse ni ikigo nderabuzima cya Gisheru. Aha ngaha rero ni mu nyubako aho bavura abantu, aha ni mu kigo nderabuzima turi kuhabona umuforomo ndetse ari kumwe n'abantu baje kwivuza bafite amafishi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro isakaje amabati y'umweru ifite irangi ry'umuhondo, hari amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo amagambo ariko yandikishije ingwa y'umukara, aho rero bagaragaza yuko iri ari ivuriro ndetse hari n'abantu bahahagaze baje kuryivurizamo.

Inzu nziza cyane y'ivuriro turi kubona yubakishije amatafari ahiye ikaba isize irangi ry'umuhondo isakaje amabati y'ubururu, hasi harimo amakaro, hari abantu batatu bahicaye: abamama ndetse n'abana ahangaha rero akaba ari mu kigo nderabuzima cya Shagasha.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, reka duhere kuri kano kuma gasuzuma abantu; ni ikimashini kinini aho uterekamo umuntu ubundi ukagenda ukareba kurekara ugahita umenya ikibazo afite ukamuvura.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro aha muri iki cyumba turi kubonamo ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa muri siporo, aha ngaha rero ushobora kujya kwa muganga urwaye maze bakajya bagufasha gukora siporo kugira ngo ingingo zawe zigororoke.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubakishije amatafari ahiye, ikaba isize irangi ry'umweru ndetse n'umutuku, aha ngaha rero hari amagambo yanditseho hejuru yandikishije ibara ry'umukara ndetse ikaba yanditse mu ibara ry'umweru aha ni ku ivuriro.

Inyubako nziza yo kwa muganga. Mu imbere hubatsemo akandi kazu aho kagiye karimo uturyango tugiye dutandukanye kugira ngo buri hantu hagire ikihakorerwa. Hejuru isakaje amabati ndetse ibyuma biri kugaragara.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, igiretse inshuro eshatu yubakishije ibirahuri byiza cyane, irimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, hafi aho hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse hari n'ibyapa biriho ibitambaro bigaragaza ko aha ari ku ivuriro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, hariho icyapa kigaragaza ko ari ibitaro bya Ruhengeri ndetse icyo cyapa gishinze mu rukuta rwubakishije amatafari ahiye.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, harimo umusore wambaye agapira k'ubururu, ipantaro y'umukara, ari gukoramo isuku, ndetse hari n'undi mu mama, wambaye igikanzu cy'umweru, n'agapfukamunwa, nawe ari gukora mo isuku, harimo abarwayi baryamye ku bitanda, bigaragara ko barembye cyane.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, irimo imiryango myiza cyane y'inzugi zikoze mu cyuma, hakaba utwapa turiho utwambi tuyobora abantu aho bajya kwivuriza, aha rero inkuta ziriho irangi ry'umweru ndetse na parafo n'umweru hariho amatara ari kwaka.

Abaforomokazi batatu bambaye impuzankano y'abaforomo ndetse n'utugofero mu mutwe bahagaze ahantu heza cyane. Nkuko tubibona turi kubona ibiti byiza cyane, tukabona ubusitani bwiza cyane, tukabona imikindo miremire ndetse ruguru turi kuhabona n'inyubako zi'ivuriro.

Inyubako nziza cyane z'ibitaro zirimo amatara meza cyane yaka ibara ry'umuhondo. Hakaba hari icyapa kiriho gahunda zikorerwa muri icyo kigo nderabuzima, aho hariho igihe cyo gusura ndetse n'igihe cyo kuvura abarwayi. Iki cyapa giteretse mu busitani buhari.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Turi kubonamo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo ibitanda bavuriraho abarwayi, harimo udusanduku bajugunyamo imyanda bamaze gukoresha, urukuta rurasa umweru. Parafo na yo isa umweru ndetse hasi hari amakaro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatse neza yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu ndetse amadirishya ni umuhondo, uruzitiro rwayo ni ibyuma by'umukara ndetse harimo n'igiti cyiza kinini cyane.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatse neza cyane inzugi nziza cyane z'ibyuma ndetse n'ibirahure mo imbere harimo ibitanda by'abarwayi ndetse hagiye harimo n'imiti baba ahangaha rero ni mu ivuriro kandi rivura neza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, imbere yubakishije imbaho nziza z'isa kake ndetse harimo akantu k'akazenguruko na ko gasa kake, kakaba kariho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, aho bavuga ngo: " Amakuru uyasanga ku ntebe."

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, imbere aha turahabona imeze iriho igitambaro, tukabona abantu bambaye udupira tw'ubururu, bicaye imbere yaho ku ntebe zihari, ndetse turi kubona ko iyi nzu, ari inzu y'ababyeyi cyangwa se materinete.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Aha ngaha turi kubona umuganga wambaye impuzankano y'abaganga ari kureba ko imashini ihari kugirango asuzume. Si ibyo gusa kuko hari n'abandi bantu benshi bari kumureba bategereje ko abafasha.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatse neza isize amarangi y'mweru ndetse n'umukara, isakaje amabati y'umutuku. Turi kuhabona idarapo ry'u Rwanda ndetse n'irindi darapo ryIkigo k'Igihugu gishinzwe kubungabunga ubuzima, tukabona hasi hasashya amapave aha ngaha hari n'ivaze iteretsemo ururabo ndetse hari n'umwana uri kurisohokamo.

Inyubako y'ivuriro yubatse mu ihema. Turi kubona umwana uri gusunika umugabo wicaye mu kagare k'abafite ubumuga. Ndetse tukabona n'umukobwa wambaye agapira k'umweru, ari kuza kubasanganira ngo abakire, maze abinjize mu ivuriro.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho. Igeretse kabiri, ikaba ifite utwuma turinda abantu kuba bagwa hasi. Isakaje amabati y'ubururu, ikaba ifite irange ry'umweru ku nkuta imbere ndetse n'inyuma.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ifite inkuta zisa umweru ndetse n'ubururu, harimo abaforomokazi, ndetse harimo n'umuganga, hari umukobwa wicaye ku ntebe, umuganga ari kumubaza ikibazo afite, maze akabyandika kugira abone uko amufasha.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho hari imashini kiri hejuru gitanga umuyaga, harimo intebe, ndetse hari na mudasobwa muganga yandikamo ibizamini yafashe abantu ndetse n'imiti yabandikiye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro irimo inkuta nziza cyane zisize amarangi y'umweru ndetse hakaba harimo n'uturongo tw'umukara inzugi zisize irangi ry'umutuku hasi hari amakaro asa neza nkuko bigaragara iri vuriro ni ryiza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro isize amarangi meza cyane ku nkuta kuko arasa umweru, parafo nayo isa umweruru harimo amatara meza cyane, aha harimo ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashisha bari gusuzuma abarwayi.

Inyubako nziza cyane z'ivuriro ni nyinshi cyane zitondetse ku murongo, aho ngaho hari ubusitani bwiza cyane, hakaba igiti kirekire gitanga umuyaga mu ivuriro ndetse hari n'abantu bahahagaze bakeneye serivisi zo kuvurwa.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ahangaha ni ho bakorera inama abakozi bose bo mu ivuriro. Harimo intebe nziza cyane ndetse imbere ya buri ntebe hagiye hari akantu ko kwandikiraho ndetse n'indangururamajwi, buri wese atanga igitekerezo cye kikumvikana.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro igeretse gatatu ndetse irasa neza cyane, isize amarange, hasi haparika imodoka nyinshi cyane ndetse harimo n'umusekirite uri kugenda ubereka aho baziparika. Aha ngaha rero ni mu bitaro, kandi hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi.,

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi yitaruye ifite amarangi y'ibara ry'umweru, ikaba ifite n'inkingi zifite ibara ry'icyatsi, ifite inzugi nziza cyane z'ibirahuri ndetse n'ibikoresho bike by'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba isize irangi rya oranje ndetse n'iry'umuhondo, imbere yaho hahagaze abaforomokazi bane bose bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ahangaha rero turi kuhabona ivuriro ryubatse neza mugice cya gatatu hakaba hari icyapa kiri kwerekana AHAF Rwanda iki ni ikigo kivura abantu ndetse hari n'udupasiparume duke duteye ku ruhande.

Umugabo wicaye munsi y'igiti. Ni igiti kibyibushye cyane gifite amashami maremare ndetse cy'inganzamarumbu akaba yicaye ku mabuye yubatse munsi yacyo, hirya turi kuhabona inyubako y'ivuriro aho ariho bavurira ashobora kuba yaje kwivuza agahita aza kuharuhukira.

Iki ni igikoresho ushobora gukoresha mu mugihe ugiye muri siporo, cyane cyane mu bintu by'imikino kugira ngo ugishyire ku kuguru ukurinde kuza kuba kwavunika. Kuko iyo ucyambaye impanuka iyo ari yo yose wakora kikurinda kuba wabona imvune.

Uyu ni umuti ushobora gukenera mu gihe uri gukora siporo ugomba kugenda uwitwaje kuko hari igihe ushobora kwiruka wakwikubita hasi ukavunika igufwa rigatana ugakenera bande kugira urizirike risubirane.

Umusore umuganga ari kumuzirikiraho bande ku kaguru aho kavunitse, bakaba ari kumukoresha siporo gake gake kugira ngo igufwa risubirane uyu musore rero asabwe kuryama maze akigorora akagorora ikirenge cye kugira ngo kimere neza.

Akantu kameze nk'ameza bakoreraho siporo ahanga ngaha rero muganga akwandikira siporo akakwereka n'uburyo uzajya uzikora, aha turabonaho imibare: santimetero mirongo itandatu n'umunani, santimetero mirongo icyenda n'imwe ndetse na santimetero ijana n'imwe, siporo rero ugenda uzikorera muri izi santimetero.

Iyi ni imiti igiye itandukanye, yagufasha mu gihe wakoze siporo ukagira imvune, harimo bande, hakabamo pomade ndetse n'iyindi miti igiye itandukanye, nawe rero wahitamo uwo ukeneye mu gihe wumva wagize imvune.

Iyi ni inyubako ikorerwamo siporo. Aha ngaha rero, bahazana umuntu wavunitse, maze bakamushyira mu byuma bimugorora, aho bagenda bakugorora gake gake, urugingo rwagize ikibazo rukazagororoka. Harimo abagabo bagiye batandukanye ndetse harimo n'abaforomo.

Aha ni kwa muganga aho umuganga akwandikira umuti wa siporo maze akagufasha kuzikora, hari umusore uryamye ku gatanda k'abarwayi ariko ugenda amukandira gake gake agorora ingingo kugira ngo ikibazo yari afite mu kaguru kirangire.

Akuma keza cyane gakoreshwa mu mugihe cya siporo gafite amapine ane iyo uri kugakoresha ugenda ugakurura wihuta cyane kugira ngo ukomeze umubiri, amaboko ndetse n'amaguru bikore kugira ngo umubiri wawe ukomere kandi nawe umere neza.

Iki ni igishushanyo kigaragaza ingengabihe ya siporo aho bagenda bagaragaza amasaha ushobora gukoreraho siporo ndetse n'igihe amarushanwa azabera, kiri mu mabara y'ubururu agiye ariho utudomo ndetse handitsemo n'imibare.

Aha ni kwa muganga hari umuforomo wambaye baje mu ijosi akaba ari kugorora akaguru k'umusore bigaragara ko kavunitse, akaba ari kumukoresha siporo gake gake kugira ngo akagorore maze igufwa risubirane.

Umusore uryamye hasi bafashe isume bashyira munsi ubundi bafata agatambaro bari kumukoresha siporo bagenda bagorora mu ijwi rye bigaragara ko hari haravunitse, ariko uko agenda akora siporo hagenda hakira bizarangira akize.

Umuntu wagize ikibazo cy'umugongo akaba ari kwa muganga. Bari kumuvura bari kumukoresha siporo bamuryamishije ku byuma bigorora imitsi ndetse n'imbavu. Ubugubu umwanya muto arabyuka agende kuko bari kumuvura.

Umusore wambaye isengeri ndetse n'ikabutura ari muri siporo, arimo aragorora akaguru ke, arimo aragafata akakagorora gake gake kugira ngo kagende, bigaragara ko yagizemo imvune kuko aricaye kandi yari yagiye muri siporo.

Agasanduku k'icyatsi kibisi karimo amoko y'imiti agiye atandukanye. Aha ngaha harimo pomade, hakabamo inshinge ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu gihe umuntu ari muri siporo, igihe akoze agisida kuba bahita bamutabara bakamuha ubuvuzi bw'ibanze.

Ikirahure kirimo amazi, aya mazi ari kuva mu ijagi ameneka, aya mazi ni meza cyane ushobora kuyanywa mugihe usoje siporo kugirango ugire ubuzima bwiza, ateretse ahantu hasa nk'ubururu, n'ikirahure cyahise kimera nk'ubururu neza neza wagira ngo ni ubururu.

Iki ni igikoresho umuntu akoresha mu gihe ari muri siporo, aho baba bamwereka imibare akoresheje ku kiro metero, akagenda abimenya, amenya uko ari gukora bigatuma agira ubuzima bwiza kuko akora ibintu biri ku murongo.

Ahantu heza cyane hari umusore ndetse n'inkumi, umukobwa yambaye agapfukamunwa ,umusore we yambaye ingofero ipfuka umunwa, amazuru akaba ariyo asigara aha ari kumuvura, kugenda amukoresha siporo gake gake ku kuboko kwari kwavunitse.

Aka ni agakoresho wakoresha mu gihe cya siporo, aka gakoresho rero ushobora kugakoresha kugira ngo ugorore amaboko ndetse n'imbavu, gakunze kuboneka ahantu hose mu nzu zikorerwamo siporo uba warandikiwe na muganga.

Umusore wafunitse akaguru bari kumukoresha siporo kwa muganga, bamufashe akaguru ke bakamanika ku cyuma maze bari kumubwira ngo agorore gake kugira ngo amagufwa asubirane arebe ko yakira akazongera akagenda neza cyane cyane ko ukuguru kwe kutari gukora.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga hari n'undi wicaye ku ruhande ndetse hari n'abandi bigaragara ko ari abaforomo ari kubahugura, imbere y'iwe hari icyuma cy'ikoranabuhanga ari kubereka uko umuntu ashobora gukora siporo areba muri icyo ki ekara.

Amoko y'imiti agiye atandukanye, umuntu yakwifashisha mu gihe ari muri siporo turabona mo bande, tukabonamo pomade, tukabonamo ibinya, tukabonamo sanitayiza, ndetse tukabonamo na barafu. Ibi rero mu gihe ugiye gukora siporo ukwiye kubyitwaza kugira ngo nuhura n'impanuka witabare.

Umusore uri muri siporo wambaye agapira k'umukara akaba afite icupa ry'amazi ari kuyimena mu maso, biragaragara ko yakoze siporo akananirwa akaba ari kwimenaho amazi kugira ngo yumve ko ubuzima bwagaruka.

Igikoresho gikoreshwa mu gihe cya siporo, iki gikoresho kirimo imibare, ndetse hari n'ahantu hagaragara ko wakanda imibare yose wifuza, gifite imikondo, ndetse hari n'umugozi w'umukara uteretse hasi, aho giteretse naho harasa umukara.

Inkweto ndende cyane zisa umukara, ziriho akapa kanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umukara, agira ati '' bato'' aha ngaha rero nk'uko tubibona bari kukwereka y'uko izi ari inkweto za siporo ndetse izi uzambara nk'umuti kugira ngo uzigenderemo amaguru arambuke.

Umukobwa mwiza cyane uri muri siporo, yambaye agasengengeri k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, ahagaze ahantu heza cyane, ubona ko hegeranye n'inyanja, ari gukora siporo, yumva n'akayaga keza cyane, bigaragara ko izi siporo ziko kumugira umumaro.

Umukobwa uri muri siporo ari gukorera siporo ahantu heza cyane, yambaye agasengeri ndetse n'agapantaro, afite imisatsi myinshi cyane, arunamye ari kugorora umugongo, amaboko, ndetse n'amaguru, aho ari gukorera harasa ubururu hasi ndetse no hejuru.

Aha hashushanyijeho umugabo uri kwirukanka, ndetse hashushanyijeho n'igitori kirimo urushinge, aho hari amagambo yanditse mu kapa k'ubururu, yandikishije ubururu nayo, avuga ati, umuco w'intsinzi mu kurwanya ibiyobyabwenge, dukora siporo.

Ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gukora siporo biri kugaragara neza cyane, aho ucagiga maze ugakora siporo nta nkomyi. Nawe rero ushaka kugira ubuzima bwiza ugomba gupanga gahunda zawe ukongeramo no gukora siporo.

Uyu ni umuntu uri kugendera mu kuma gafasha abantu gukora siporo, aho hari uri kumufasha agenda gake gake kugira agorore ingingo ziwe yahuye n'ibibazo aravunika none ari gukora siporo ngo arebe ko yakira.

Uyu ni umuganga ari gusuzuma uyu mwana ubwo ari kureba niba se akora siporo cyangwa se hakaba hari uburwayi afite, ari kumutunga kamera maze akarebamo kugira ngo abashe kureba uburwayi afite, imbere ye hari ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, yicaye mu nzu nziza cyane.

Umusore w'umwirabura ari kunywa amazi bigaragara ko amaze gukora siporo, yambaye isengeri y'umukara afite ubwanwa buke ndetse akaba yambaye n'akantu kagaparasitike ku kuboko.

Umukobwa wambaye isengero y'icyatsi, arahagaze, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kugorora ingingo by'umwihariko iz'ukuboko ndetse akagorora mu ntugu, ari na ko agorora umugongo.

Iyi ni inyubako ikorerwamo siporo. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bya siporo. Aha ngaha turi kuhabona ikimashini kinini cyane umuntu ajyaho akagorora umugongo maze ukagororoka. Hasi hasa ubururu. Iyi nzu bigaragara ko ari nziza.

Umusore uri muri siporo afite amaboko manini yambaye agasengeri k'icyatsi kibisi, ari kunywa amazi nk'uko bigaragara ahangaha ni mu muhanda kuko hakurya ye turi kuhabona amazu meza cyane atuwemo n'abaturage kandi menshi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa muri siporo, aha ngaha rero ibi ni iby'ubuvuzi turikubonamo ga, tukabonamo inshinge pomade ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye aha rero barabikoresha.

Umumama uri kugenda ahambura akaboko ke akaboko ke bigaragara ko kigeze kugira imvune bakaba bari ku kavura maze muganga akaba yamwandikiye umuti wo kujya akarambura ari kugerageza agashinyiriza akarambura gake gake.

Agasanduku gasa icyatsi kibisi. Karimo ibikoresho bigiye bitandukanye umuntu ashobora kwifashisha muri siporo igihe ahuye n'impanuka. Aha rero harimo pomade, hakabamo bande, ndetse hakabamo n'ikinya. Ibingibi nibyo byibanze umuntu yakenera.

Igikapu cyiza, cyirimo amabara y'umutuku ndetse n'uturongo tw'umukara. Iki gikapu rero cyifashishwa bakijyanamo bimwe mu bikoresho nkenerwa mu gihe cya siporo nk'ibinya, barafu, ndetse na bandi.

Umusore uri muri siporo yambaye ekuteri mu matwi ndetse yambaye n'agapira k'amaboko magufi; afite icupa ry'amazi ari kuyanywa. Ari kuyanywa akongera akayanywa kuko amazi ni ubuzima; ni ngombwa rero kugendana amazi igihe ugiye muri siporo.

Umusore wicaye mu gatebe, bari kugerageza kugorora ikirenge cy'iwe, ari kumwe na muganga. Muganga ari kumushyiriraho icyuma, maze akazamura akaguru mu gake gake kugira ngo akore siporo kigororoke igufwa rifatane.

Ikirahuri bari gusukamo amazi avuye mu icupa. aya mazi ni meza cyane kandi arasukuye. Bigaragara yuko umuntu ugiye kuyanywa avuye muri siporo. Amazi ni uzima. Siporo zo ni ubuzima kurushaho.

Umusore uri muri siporo yambaye insengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara. Ndetse yambaye inkweto za siporo n'amasogisi. Ari kumanika akaguru hejuru akagorora akaguru, amaboko, umugongo, bigaragara yuko ibi bintu abimenyereye kuko ari kubikora neza cyane.

Umukobwa uri muri siporo aryamye hasi ari kwigorora, ari kugorora ukuguru kumwe mu ivi ukundi ari kugorora mu bworo bw'ikirenge, ndetse ari kugorora n'amaboko ari gukorera mu nzu yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ndetse iriho n'amadirishya.

Iyi ni inyubako irimo etageri ipanzemo imiti ndetse n'ibikoresho bya siporo bigiye bitandukanye, aha ngaha rero iyo ukeneye gukora siporo uragenda bakaguha imiti cyangwa se ibikoresho biterwa n'icyo ukeneye.

Umusore uri muri siporo afashe gurude y'amazi ayisuka mumaso ye, kuko yari amaze kunanirwa yazanye ibyunzwe byinshi akeneye kuruhuka ubushyuhe bwamwishe, nawe niba uri muri siporo, gerageza kugendana amazi kuko hari igihe agufasha.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo siporo, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiza, hari umugabo uri gukora siporo, ari kumanika akaguru akakazirika hejuru, maze akakagorora, kakagororokana n'umugongo. Izi siporo ni nziza, abantu bose bakwiye kuzikora.

Umusore wambaye agakabutura keza ndetse n'agapira keza afite utudide yambaye udukufe ku kuboko. Ari gukorera siporo ahantu heza cyane hah'cyatsi, ari kugorora amaguru, umugongo ndetse n'amaboko. Nk'uko bigaragara siporo yazishimiye cyane.

Umukobwa wambaye agapira keza cyane yambaye ekuteri mu matwi afite icupa ry'amazi ari kuyanywa ndetse afite n'akantu ku kuboko gapima ibirometero yakoze bigaragara ko yari ari muri siporo, siporo ni ubuzima urubyiruko rukunda kuzikora.

Uducupa dutatu twose ni umweru n'imipfundikizo yatwo ni umweru. Aha rero tumwe turiho ibyapa ndetse n'amagambo ndetse nk'uko bigaragara, iyi ni imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo.

Ibi ni ibikoresho bya siporo aho iyo uri muri siporo wifashisha utu twuma tugiye dutandukanye turi hano ndetse wasoza siporo ukaza ukarya zino mbuto kugira ngo ugire ubuzima bwiza, harimo; imineke, kokombure, ndetse n'indimu.

Umusore wambaye isengeri akaba afite na gurude mu ntoki, ahagaze areba imbere ye. Harasa neza cyane kuko harijimye mo ukuntu, bigaragara ko ari muri siporo. Ahangaha hakaba hari ubusitani. Uyu musore nawe siporo akaba azikora kugirango agire ubuzima bwiza.

Umusore uri muri siporo, yambaye agapira k'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara, yambaye n'isaha ku kuboko, biragaragara ko ashobora kuba yagize ikibazo cy'imvune kuko ari kwikanda mu ivi, yababaye cyane, inyuma y'iwe harasa umukara ndetse hari n'ibyatsi, ikirere kirasa umweru.

Umukobwa uri gukora siporo aricaye, ari kugorora amaboko, izosi ndetse n'umugongo, aha ngaha rero yicaye ku kantu k'agakeka, inyuma ye hari intebe ndetse n'imbere ye hari intebe, bigaragara ko izi siporo ari kuzikorera mu nzu kuko yatinye kujya hanze.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, harimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Aha ngaha ni ahakorerwa siporo. Ibi bikoresho byose bifasha abantu bafite ibibazo byose bigiye bitandukanye, nk'abafite ibibazo by'umugongo, ingingo zimwe na zimwe nko mu mavi, ndetse n'ahandi.

Ni akagare gafite amapine ane aka ngaka bagakoreraho siporo ushobora kukicaraho ukagenda gake gake wirambura cyangwa se ukajya inyuma ugasa nk'ugashoreye, ahantu gateretse harasa umeru ndetse inyuma hariho akantu k'icyuma ushobora kubikamo utuntu.

Umusore uri muri siporo afite akantu ku kuboko yambaye isengeri ndetse n'ikabutura, aha rero hakaba hari amagambo yandikishije ibara ry'umutuku aho bagira bati siporo ngororamubiri ni igikorwa gikorwa buri munsi kikongera uburemere kikongera amaraso ndetse kikagabanya umuvuduko w'amaraso kikagabanya imihangayiko, kikongera ibiro ndetse kikaba cyagufasha kugenda neza.

Abantu bari muri sare itangirwamo serivisi zo kugorora umubiri bari kugororera umubiri umubyeyi uryamyeho hano ndetse no hirya hari undi, uri hano ni umugabo uri kumugororera uri hirya n'umugore urimo umugororera.

Hari mu rukera rwo kuri uyu wa mbere, ubwo uyu mugabo wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'umukara yakoraga imyitozo ngororamubiri nuko akagira ibyago agatsikira mu kirenge cye cy'iburyo. None akaba yaje kwa muganga aho ari kwitabwaho na muganga amupfuka ndetse anamugorora.

Ibi ni ibikoresho bigiye bitandukanye umuntu ashobora kwifashisha mu gihe ari muri siporo harimo pomade, harimo ga ndetse harimo n'ibindi bikoresho bimwe na bimwe nka serumu. Ahangaha rero ugiye muri siporo ushobora kubyitwaza kuko hari igihe wabikenera.

Umugabo wicaye mu kagare k'abamugaye bari kugenda bamukoresha siporo gake gake, afite akantu mu ntoki ari kugenda aterura akarambura akaboko ke kugira ngo imitsi igororoke. Siporo ni ingirakamaro, iyo ugiye kwa muganga bakabona uzikeneye barazigukoresha.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi akaba afite gurude y'amazi, ari kugenda anywa amazi ari muri siporo, hirya ye hari ibimera byiza cyane aha hantu ari gukorera siporo ni ahantu heza. Siporo ni ubuzima iyo uyikoreye ahantu heza ho biba akarusho.

Igishushanyo kigaragaza siporo zigiye zitandukanye, harimo kwirukanka n'amaguru, hakabamo gusimbuka, hakabamo umukino w'amaboko uzwi voreboro, hakabamo uwitwa basikete ndetse hakabamo na futuboro. Aha ngaha rero bari bari kugaragaza ko byegereje amarushanwa.

Umusore uri muri siporo yambaye ubusa ku gice cyo hejuru afite ukuboko kuriho ibintu bishushanyije by'amabara harimo ubururu ndetse n'irindi bara, nk'uko bigaragara inyuma ye harasa ubururu, uyu musore yakoze siporo afite ubuzima bwiza.

Iyi ni inzu irimo imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa muri siporo turi kubonamo utubati turerure tugiye turimo amoko y'imiti agiye atandukanye, harimo ndetse n'amamashini afasha abantu kubona ibikoresho bya siporo.

Imyitozo ngororamubiri nk'igikoresho cyifashishwa mu kugira ubuzima bwiza, akenshi iyo umuntu amaze kuyikora biba ngombwa ko anywa amazi meza ,kenshi na kenshi aba yitwaje ahantu yakoreye iyo myitozo.

Iyi ni ingobyi ya kizungu, iyi rero ikoreshwa ahantu habereye imikino, imyidagaduro ndetse n'ahandi hantu hateraniye abantu benshi aho iyo umuntu agize impanuka akikubita hasi guhaguruka bikamunanira bagenda bakamuterekaho maze bakamushyira ku ruhande gato bakamuha ubufasha.

Abasore batatu bari muri siporo, bose bambaye amakasike mu mutwe, n'ama ga mu biganza, aho bari gukina imikino yo guturana hasi, hejuru yabo hari amagambo yanditse yandikishije ibara ry'mweru, akaba yanditswe mu rurimi rw'amahanga.

Umusore uri muri siporo yambaye isengeri ndetse n'itiriningi y'umukara irimo amabara y'umweru, ni umusore cyane afite amaboko manini yambaye inkweto za siporo ndetse yambaye na ekuteri mu matwi, ari kugerageza kugorora amaguru, umugongo ndetse n'amaboko.

Umusore uri kugerageza kugorora akaguru k'iwe afite barafu mu ntoki, arigukozaho maze akagarura igufwa, ari kugenda arigarura gake gake akora agasiporo mo ukuntu kugira ngo abashe gutambuka, igufwa rye ryaratanye.

Umusore uri kunywa amazi yambaye agapira k'amaboko magufi avuye muri siporo, nk'uko turi kubibona imbere ye harijimye aha ni ahantu heza ho gukora siporo kuko hari ibimera byinshi ndetse n'ibiti biri kumuha umuyaga, siporo ni nziza kuko ni ubuzima.

Iyi ni inzu ikorerwamo siporo umuntu aba yandikiwe na muganga. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, hahagazemo umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi, akaba yambaye inkweto z'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Harimo rero ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amagare ndetse n'ibindi.

Iyi ni indege. Iyi ndege rero itwara amaraso, ikayakurura ahantu hamwe iyajyana ahandi. Aha ngaha nk'uko turi kubibona hariho agasaraba k'umweru kari mu ruziga rw'umutuku, bigaragaza yuko ari ikirango cyo gutabara imbabare.

Udukarito tw'imiti tugiye dutandukanye turabona dutatu duteretse ku meza tukabona hakurya hasa ubururu ndetse iyi miti ikomoka ku bimera, kandi iravura nawe niba ukeneye kumera neza genda uyigure.

Ikimera cyiza cyane gikuze, gifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse hariho n'uturabyo hejuru, ibi ibimera rero barabisarura maze bakabitunganyamo imiti ya gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera imeze neza cyane ikavura abantu.

Icupa rinini cyane ririmo umuti, iri cupa risa ubururu ririho icyapa kijya gusa icyatsi kibisi ndetse hakaba hari umubare kabiri egisi uri mu mutuku, hakaba hariho umupfundikizo w'icyatsi kibisi, iri cupa rero ririmo umuti ukomoka ku bimera, hakaba hariho na nomero za telefoni wabahamagaraho, uramutse ubaye uwushaka.

Ibimera bitandukanye bikoreshwa nk'imiti gakondo, twavuga nka tangawizi tukavuga ibinyampeke nk'ubunyobwa ndetse n'ibisangwa mu bwoko bw'imboga, nk'ibitoki n'ibindi.

Aha hari kugaragara ibimera byinshi cyane basaruye bikaba biteretse aha, hari agasekuru gasa umukara ndetse harimo n'umuhini, aho biteretse hasa umweru, iyi ni imiti bategura maze bakayiha abarwayi bagakira.

Uducupa tw'imiti tumwe turi mu mabara y'umuhondo, utundi turi mu mabra y'umweru hose hashushanyije igikakarumba ndetse n'urubuto duteretse hasi ahantu hari amabara y'umuhondo, oranje ndetse n'umutuku.

Uducupa dutandukanye tw'imiti. Aha ngaha utu ducupa duteretse ahantu hamwe, hari umurongo w'umuhondo ndetse hari n'uruziga rw'umuhondo ruriho akazenguruko k'umweru, amagambo yandikishije umukara. Aha rero iyi miti ikoze mu bimera cyangwa se ni imiti gakondo.

Amoko y'imiti ikomoka ku bimera igiye itandukanye, ahangaha hari imiti ifunze mu bikombe iri mu maetajeri, itageri imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, hose hagiye hateretsemo ibikombe by'imiti, uyu ni umucuruzi wayo.

Umugore wambaye agatambaro k'umweru afite agashakoshi ku kuboko ari gusoroma umuti. Uyu muti rero ukoze mu bimera ni aha hari amatsina ndetse hakaba hari n'ibindi bimera, ari kugenda atotoraraho utubabi aho utu tubabi ari butuvugute ubundi akatunywa tukamuvura.

Amafoto agaragaza amoko agiye atandukanye y'ibimera. Ibi bimera rero bakaba babikoramo imiti. Aha barabifata bakabitunganya bakabigenza neza bakabyegeranya. maze bakabikoramo imiti bakayiha abarwayi bakanywa bagakira.

Uducupa duto cyane turimo imiti igiye itandukanye; hafi aho hari ikirahure ndetse ku ruhande hari igikakarumba bacimbaguye; kuri utu ducupa hariho igishushanyo cy'igikakarubamba. Ikigaragara cyo uyu muti ukozwe mu gikakarubamba.

Igishashi kinini cyane giteretse hasi. Iki gishashi kiriho akapa kagaragaza ko harimo imiti ikomoka ku bimera, iyi miti rero itunganywa ivuye mu mababi y'ibiti aho bayanika maze bakayitegura ikazavamo imiti ivura abantu.

Agacupa k'umuti, aka gacupa kari mu ibara ry'umweru ndetse n'iroza, ndetse hariho ibishushanyo by'igikakarubamba ndetse n'urubuto rw'urunyanya, hakaba uyu nguyu ari umuti gakondo cyangwa se umuti ukorwa mu bimera, aho ukozwe mu gikakararuwamba ndetse no mu runyanya.

Ibirahure bibiri birimo amazi ndetse n'amababi y'ibimera ndetse kuri ayo meza, hateretseho andi mababi. Uyu nguyu rero, ni umuti bateguye neza cyane. Uyu muti barawutegura, wamara kumera neza bakawunywa.

Amoko y'imiti ari mu ducupa, uducupa duteretse hano ndetse n'ibikarito, hari igikarito cy'icyatsi kirimo utubara tw'umweru handitseho efu cumi na gatanu ndetse hari n'ikindi gikarito kirimo amabara y'umweru ndetse n'kigina, aha ngaha rero iyi miti yose ikomoka ku bimera kuko turi kubona igikakarubamba gishushanyijeho.

Ibihe bya kera mbere y'uko ubuvuzi bwa kizungu butera imbere abantu bivuzaga imiti itandukanye gakondo twavuga nka tangawizi, umwenya ndetse bakayivanga n'ubuki kugira ngo igire ubukana.

Aha hari isahani iriho imiti igiye itandukanye, ikomoka ku bimera ndetse hari n'akantu kanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umutuku, aho bavuga bati "amabwiriza agendanye no kwiyandikisha mu bijyanye no gutunganya imiti gakondo, yateguwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima mu gace k'Afurika."

Ibihure bibiri biteretse ku meza, birimo amazi ndetse agiye arimo ibibabi by'ibimera. Uyu rero ukaba ari umuti. Uyu ni umuti utegurwa mu bimera maze ukawutunganya neza ukawunywa maze ukakuvura.

Ikimera kiri mu murima, kiri kumwe n'ibindi bimera, ariko byo biracyari bito, cyo ni kinini kuko ishami urabona ko ari rinini, gifite ibibabi binini ndetse n'indabyo, aha rero baragisoroma, bakakivuguta, bakakinywa, cyangwa bakaba bacyanika bakazagikoramo umuti w'ifu.

Ubwoko bw'ibimera, mu gihe buriho n'imbuto, angaha rero ibi bimera babikoramo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, ahangaha turi kubona akambi kari kutwereka buri kimera, ndetse n'indwara kivura, ndetse n'uburyo bacyemereye, kuri buri muti hagiye hariho ukuntu bishoreranye, aho bihera hejuru bijya hasi.

Ikimera cyiza cyane ni kirekire mo gake gisa icyatsi kibisi, aho kiri harasa umweru, iki kimera rero ushobora kugisoroma maze ukakivuguta ukaba wahita ukinywa, ndetse hari n'abandi bagitunganya neza cyane cyane nk'amafarumasi acuruza imiti gakondo.

Uducepa ndetse n'ukarito tw'imiti. Iyi miti ikomoka ku bimera aho bayifata bakayitegura neza, bakayitunganya ikazavamo imiti myiza cyane ifite ubuziranenge. Hari iri mu dukarito ndetse ni iri mu ducupa, yose igiye iriho ibyapa ndetse n'amagambo bigaragaza ibiyigize nuko ikoreshwa.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi, kiri ahantu hijimye, bigaragara ko hari n'ibindi, iki kimera rero bagitunganya neza kikavamo umuti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera, aho hari abantu bawukunda kandi bakanawugura.

Umuntu uri mu bimera yasaruye bimwe afite amashami mu ntoki, ibi bimera rero yaciye aragenda bitunganye neza narangiza abikoremo muti, uyu muti niwo bita umuti gakondo kandi uravura ku bantu babyizera.

Agacupa gato cyane k'umuti, uyu muti ukozwe mu bimera, hashushanyijeho urunyanya ndetse n'igikakarubamba, aka gacupa gasa umweru, hejuru hagasa umutuku ndetse n'umufuniko ni umutuku n'indiba yako ni umutuku. Uyu ni umuti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera.

Uducupa dutatu tw'imiti ikomoka ku bimera yamaze gutunganywa maze bakiyishyira mu ducupa, kamwe kari mu bicu akandi gateretse hasi, akandi karahengetse twose duteretse ku kantu k'umuhondo.

Amakarito atatu y'imiti, iyi miti ikorwa mu bimera aho basarura ibimera bigiye bitandukanye bitewe n'umuti bagiye gukora maze bakabitunganya neza, bagakoramo imiti ivura haba ibinini ndetse n'uw'ifu.

Uducupa duto turimo umuti ukomoka ku bimera iyi miti rero itegurwa neza cyane, aho bafata ibibabi by'ibimera bakabitunganya neza bakongeramo utundi tuntu duke maze bakaba bakora amavuta yo kwisiga avura uruhu.

Umugabo wambaye impuzankano y'abaganga, yicaye ahantu bigaragara ko ari mu isuzumiro ry'ubuziranenge bw'imiti. Ahangaha rero niho ategurira iyi imiti ye gakondo akayifata, akayitegura neza maze akayishyira mu macupa akajya kuyigurisha.

Umuntu uri mu bimera hagati, nk'uko bigaragara rero, ari gusoroma amababi, aya mababi arayasoroma yarangiza akayanika, akayategura neza, yarangiza agakuramo umuti ukoze neza, abantu bakawunywa, bagakira indwara.

Mu miti gakondo hari hasanzwe harimo imiti myinshi ifasha mu kuvura ndetse no kubungabunga amenyo, kuri ubu imyinshi irimo nk'igikakarubamba ikaba ibikwa mu dupaki twabugenewe tubikwamo imiti y'amenyo.

Amacupa y'amoko agiye atandukanye afite amabara agiye atandukanye, harimo ay'umutuku, harimo ay'ikigina harimo ay'umukara afite imipfundikizo y'icyatsi, ahangaha rero, aya macupa yose arimo imiti gakondo yatunganyijwe neza iva mu bimera maze iragurwa kandi igakoreshwa umuntu agakira.

Iyi ni imiti gakondo ariko yatunganyijwe irapanze ni myinshi igiye igerekeranyije, iyi miti rero abayikora babanza kujya aho ihinze bakayishakisha maze bakaza bakayitunganya kugeza bayifunze.

Agacupa gato cyane k'umweru karimo umuti, uyu muti ukozwe mu bimera, hariho amagarama ijana, uyu muti rero basoromye ibimera barabyanika maze babivanga n'utundi tuntu, bagura agacupa bawushyiramo, kugira ngo bazawucuruza ugaragara neza.

Ibimera byiza cyane bisa icyatsi kibisi ni byiza cyane ntacyo wabigereranya na byo, ibi bimera birasarurwa bakabitunganya neza cyane maze bakabikoramo imiti gakondo, iyi miti rero hari abayita imiti ya gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera.

Aha mu ishyamba harimo ibiti bigiye bitandukanye. Aha turi kubona igifite ibabi rinini . Ibibabi rero ni umuti barabifata, bakabijyana, bakabyanika, bakabisya bakabitegura maze bakabivangamo ibindi bintu bagakora umuti ufite ubuziranenge.

Agakarito k'umuti gateretse ahantu, aho kuri ako gakarito hariho ishusho y'umugore wifashe mu rukenyerero, bigaragara ko uyu muti uvura umugongo, kuko hariho si icyenda ndetse hejuru hari inyuguti zanditse mu mpine mu magambo y'umukara ahanditse f i t.

Amacupa menshi agiye atandukanye, aya macupa agiye arimo imiti ikomoka ku bimera, cyangwa se imiti ya gakondo, harimo amacupa y'umweru, ay'umuhondo ndetse n'ay'umutuku, aha rero nk'uko bigaragara iyi miti ifite ubuziranenge.

Ishashi y'umuhondo irimo ibintu bijya gusa umutuku ibi ni umuti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera, inyuma hariho akapa kagaragaza ingano irimo ni garama ijana hariho n'icyemezo cy'ubuziranenge bahawe n'ikigo kibishinzwe.

Agakarito karimo utubido tw'imiti. Iyi miti iri mu tubido tw'umuhondo, turiho imipfundikizo y'umukara. Aha rero hashushanyijeho ikimera. Ubwoko bw'iki kimera, ni igikakarubamba. Igikakarubamba baragitegura kikavamo umuti uvura indwara zigiye zitandukanye.

Amacupa y'imiti afite ibara ry'umweru, amagambo yandikishije umutuku, hakaba hashushanyijeho agakoko, umupfundikizo ni kake, aha rero hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, ariko yo akaba yandikishije ingwa y'umweru.

Icupa rirerire ry'umweru ririho utubara tw'umuhondo ndetse n'ubururu, ahangaha rero hakaba hari n'ikimera k'icyatsi kibisi gicimbuye imbere ubona ko hari umweru, nta kabuza iki ni igikakarubamba, muri iri cupa harimo umuti ukozwe mu gikakarubamba gakondo.

Amacupa agiye atandukanye arimo imiti ikomoka ku bimera, buri cupa rigiye ririho icyapa kigaragaza ubwoko bw'umuti burimo, ibiwugize ndetse n'indwara bivura, aha ngaha rero uramutse uje nawe ushaka umuti urebamo uwo ukeneye.

Uducupa twinshi cyane turimo imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera, turi kubona ko hagiye hariho ibyapa bigaragaza indwara, iyi miti ivura ndetse hano hari n'agashushanyo k'inzoka, batetse hasi bigaragara ko uriya ari umuti w'inzoka.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera, ibimera by'icyatsi kibisi biri ahantu mu isambu, harimo n'ibiti birebire, ibimera bifite amababi maremare y'icyatsi kibisi, bakaba babiteguramo umuti, aya mababi urayaca, ukayanika, maze ukazayakuramo umuti.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye hari ibiti birebire ndetse hari n'ibigufi, ikigufi turi kubona kiriho amababi y'icyatsi kibisi. Aya mababi rero bayakoramo umuti wa gakondo aho bayavuguta maze bakayanywa cyangwa bakayanika bakazayatunganya neza, ukavamo umuti mwiza cyane ukomoka ku bimera.

Icupa ryiza cyane, rifite ibara ry'umweru ndetse hakaba harimo n'utubara tw'ubururu. Rifite umupfundikizo w'ubururu, rikaba riteretse ahantu h'umweru. Hari amagambo yanditsemo ndetse hari n'agakoko gashushanyijeho. Uyu ni umuti gakondo uturuka mu bimera batunganyije, ukaba umeze neza cyane ufunze.

Umuti uri mu icupa rimeze nk'iry'amenyo; ahangaha rero harasa umukara aho riteretse. Uyu muti ukaba utegurwa mu bimera ariko ukaba wawukoresha ukakuvura uburwayi ubwo ari bwo bwose waba ufite.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye, turi kubona ibigiye biriho imbuto, ndetse turi kubona n'ibigiye biriho uturabya, hari n'ibindi noneho bisa icyatsi kibisi, ibi byose barabyegeranya maze bagakoramo umuti gakondo umeze neza cyane kandi uvura.

Ikiganza gifite agapapuro karimo utuntu tw'udufu, uyu rero ni umuti watunganyijwe mu bimera aho bafashe amababi bakayanika yamara kuma bakayasya maze akavamo umuti w'ifu, ubu bagiye kuwunywa bahite bakira.

Ikimera cyiza cyane kiri mu bindi byinshi cyane biri mu murima, iki kimera gifite amababi y'icyatsi kibisi, bakaba bagikoramo umuti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera aho bagifata bakakivuguta bagahita bakinywa.

Amababi ateguye neza cyane ni ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse kikagira n'udushami dutoya, aha ngaha rero ushobora gufata iki kimera ukagitunganya neza maze ukagikoramo umuti ukakuvura indwara iyo ari yo yose urwaye.

Icupa ryiza cyane rimeze neza ririmo umuti, uyu muti barawuteguye, bawutegura neza cyane mu bimera, maze bawufunga mu icupa ryiza, ku buryo umuntu uwo ari we wese awugura kandi akawuha agaciro kawo akawukoresha neza.

Ahantu heza cyane hari ibimera bisa icyatsi ndetse n'umuhondo hari ibintu bimeze nk'ibiti bihateretse hakaba hateretseho udukarito, ahangaha rero hakaba hategurirwa imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti i gakondo.

Imiti gakondo iri ku mayetajeri ni amayetajeri atatu harimo iri mu mabara y'icyatsi kibisi, umweru, umutuku ndetse n'umukara. Hari umuntu uri gucaho ndetse hari n'undi wambaye imyenda y'umweru uri kuyicuruza.

Akadobo karinganiye, karimo amabara agiye atandukanye, ndetse hari ikirangantego kiriho gishushanyijemo igikeri, aya mabara agiye agaragaza uko uyu muti ukoreshwa.

Aha hari ameza ariho igitambaro cy'umukara hakaba hariho ikimera kiriho ishami ryose ndetse amababi yose ariho asa icyatsi kibisi ndetse n'akuma, aha ngaha rero iki kimera bagikoramo umuti wa gakondo ukanyobwa.

Imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera. Ahangaha turi kuhabona ibinini ndetse tukabona n'indi iri mu ikarito, turi kubona akantu kameze nk'aho kari mu isorori. Ahangaha rero bafata ibimera bakabitunganya neza maze bagakoramo imiti haba iy'ifu ndetse n'ibinini.

Agacupa gato gafite umupfundikizo w'ubumweru hari icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse haririmo n'umweru, ku ruhande gato hari akandi k'icyatsi karimo amagambo yandikishije ibara ry'umweru agira ati uvura kurangiza vuba ucika intege ndetse n'ibindi.

Ifoto y'umusore wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu, ahagaze imbere y'uducupa twinshi cyane turimo imiti tugiye dufite amabara agiye atandukanye. Munsi ye hakaba handitse amagambo agiye atandukanye avuga ngo, ni umujyanama nawe waza nkaguha umuti ukigurira.

Akabido k'umuhondo gashushanyijeho uruyuki ndetse kakaba kariho n'amagambo yanditswe mu ibara ritukura, gafite umupfundikizo utukura. Hakaba harimo umuti gakondo uvura indwara zananiranye mu mavuriro agiye atandukanye.

Ikimera kiri mu murima, iki kimera rero kivamo umuti bacyita igicuncu ahangaha ushobora kugisoroma ukakivuguta ubundi ukacywa ukaba wikingiye cyangwa se ukacyanika warangiza ukagikoramo agafu ukabunywa mu buryo bw'ifu.

Umuganga uri kwerekana imiti iyi miti ikoze mu bimera, ibi miti rero bafata ibimera bakabitegura bakaba bakoramo imiti byaba ibinini ndetse n'imiti y'ifu aha ngaha rero uyu muntu bigaragara ko afite icyemezo cy'ubuziranenge bw'imiti.

Uducupa dutatu duto duteretse ku kumurongo. Twose tugiye turiho ibyapa. Kamwe kariho icyapa kirimo utudomo tw'umutuku, ikindi kirimo uturimo utudomo tw'ubururu, ahandi ho hajya gusa nk'umutuku ariko wijimye.

Agacupa k'umuti aka gacupa karasa umweru, hejuru kajya gu gusa umutuku ndetse no hasi kajya guca umutuku hashushanyijeho igikakarubamba, ndetse n'urunyanya. Uyu ni umuti gakondo uteguwe muri ibi bintu, aho abantu bawunywa maze bagakira kuko ufite ubuziranenge.

Ibimera bihinze ahantu. Biri kugaragara ko bihinze mu murima ariko uri mu rugo kuko bimwe biteretse no mu mavase. Munsi hari ibindi bimeze nk'amapamba, ibi bimera bifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi. Bakaba babikoramo umuti.

Akabido gapfundikije umuvuniko w'umutuku, hariho amagambo yandikishije ibara ry'umutuku n'agasimba gashushanyijeho, aho gateretse hasa umweru. Aha rero harimo umuti wa gakondo ukomoka ku bimera batunganyije neza.

Umusambi urambuyeho utuntu dutandukanye twa gakondo, hakaba hagiye harimo imiti ikomoka ku bimera hari akantu kameze nk'isekuru ndetse n'agahini, hakaba hari utumeze nk'udukono, hari utuntu tumeze nk'umuhondo twinshi turi mu kantu kameze nk'agatebo, aha ngaha rero hakaba ariho hategurirwa imiti ikomoka ku bimera.

Ibikarito bibiri by'imiti, bifite amabara icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umweru, hagiye harimo utwambi twizengururutse, uyu muti rero ukomoka ku bimera, ni umuti gakondo rwose uvura indwara zigiye zitandukanye.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera gakondo bukaba bugizwe n'amoko agiye atandukanye, harimo ibyatsi hakabamo tangawize ndetse na tungurusumu, ibi byose bikaba bitegurwamo umuti gakondo uvura kandi wizewe.

Ibimera byinshi cyane biteye ahantu hamwe, turi kubonamo ibifite amabara y'umuhondo ndetse n'ay'cyatsi kibisi ibi byose rero birasarurwa bigatunganywa neza maze bagakoramo imiti ya gakondo bavurisha abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye.

Ubwoko bw'ibimera bigiye biteretse mu mavaze, bimwe ni icyatsi kibisi, ibindi igihe birimo utubara, hari n'irimo utubara tw'umuhondo, ndetse hari n'ikirimo igikakarubamba. Ibi byose rero n'ibyatsi bakoramo imiti nk'uko turi kubibona mu magambo y'umukara munini yanditse hagati yabyo.